Umwana muto cyane wambaye impuzankano y'abanyeshuri, imbere ye hari indobo iteretse ku meza iriho robine, ari gufungura amazi maze akoga intoki. Byabaye umuco mu banyarwanda ndetse no mu bana babigize umuco koga intoki igihe icyari ari cyo cyose zifite umwanda.

Aha ni mu kigo nderabuzima. Hari ababyeyi bari gutambuka, bakegera abari ku rwakiriro, maze bakababaza imyirondoro. Bamara kubabaza imyirondoro, bakabuzuriza amafishi, bagasubira mu byicaro byabo, mu gihe bategerejwe guhamagarwa mu isuzumiro.

Aba ni abaganga bambaye impuzankano zabo zisa umweru, bari gufata ifoto bahagaze mu kirongozi mo imbere, aho bari gufata ifoto y'urwibutso basoje inama mpuzamahanga yiga ku bijyanye n'uburyo bateza imbere ubuvuzi.

Ifoto irimo umugabo ugaragaye yicaye hejuru, wambaye ikositimu ndetse na karuvati, hakaba hari amagambo aho ari ari mu ibara ry'icyatsi kibisi ariko yo akaba yandikishije ibara ry'umweru, aha rero ni ingamba zafashwe zo kwegereza abaturage ubuvuzi.

Ababyeyi batatu umubyeyi umwe ateze indobo munsi y'ivomero undi ari kumukandira icyuma maze amazi akaza, ni byiza ko leta y'u Rwanda yagejeje amazi meza kandi asukuye ku baturage bose.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bari mu nama, bari kwiga ukuntu ubuvuzi babuteza imbere, bose imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'amakayi bakaba bafite n'uducupa tw'amazi bari kunywa kugira ngo badasinzira ahubwo bakomeze baganire.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bari kureba ukuntu umuntu ashobora kurokora akana mu gihe kagize ikibazo. Bose barishimye, harimo abaganga abaforomo ndetse n'abaturage, bose bashimishijwe n'ukuntu bahawe amahugurwa, kandi bakaba bayahanywe umunezero.

Aha ni kwa muganga hari umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi ndetse hakaba harimo abaganga babiri bose bambaye impuzankano y'abaganga umwe afite ikayi mu ntoki ari kurebamo undi we ari gusuzuma uyu murwayi ari kumushyiraho ikintu gipima umuvuduko w'amaraso.

Abantu benshi bagiye batandukanye bahagaze ahantu hamwe, bafite ibyapa bibiri mu ntoki, bigaragara neza yuko ari ingamba ndetse bahagurukiye kurwanya indwara runaka, bakaba bafashe umunsi bakirirwa muri icyo gikorwa cyiza.

Ubuvuzi bwegerejwe abantu bose kugira ngo bagire ubuzima bwiza, aha ni mu ivuriro hakaba harimo umuganga ndetse n'abaturage uyu muganga ari gusobanurira abarwayi umubyeyi yari kumureba amusobanuza maze nawe amusobanurira.

Umusore wambaye umupira w'ubururu' ku kuboko hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, yambaye baji mu ijosi, akaba ari kuganira n'umusore wambaye agakofi ku kuboko ndetse bakaba bari kuganira, baganira neza basobanura ibijyanye n'ubuzima muri rusange.

Aha ni ku ivomero rusange, bigaragara ko ryuzuye vuba, hari umumama uri gukurura icyuma umwana agatega amabido akavoma, hari abandi bamama ndetse n'abana n'abapapa baje kureba iri vomero bose bafite ibyishimo.

Abana babiri bato cyane bicaye munsi y'ivomero bari gukaraba intoki, iki kigega ni kinini cyane kandi kikaba kiriho robine, aya ni amazi Leta yegereje abaturage kugira ngo babashe kurwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Umwana muto cyane w'umukobwa bigaragara ko ari umunyeshuri ,ari gukaraba intoki kurikandagira ukarabe isa icyatsi kibisi ndetse n'ibase iri kujyamo amazi isa icyatsi kibisi ibi rero leta y'u Rwanda ibitoza abaturage cyane cyane abana kugira ngo bakomeze birinde umwanda ndetse n'indwara ziwukomokaho.

Abaganga ndetse n'abaforomo aha bari gufata ifoto y'urwibutso bahagaze mu bitaro, bamaze guhabwa amahugurwa, ndetse banabwiwe y'uko bagomba kujya begera abaturage bakabavura kandi bakabafasha mu buryo bwose bushoboka.

Abana benshi cyane bahagaze ku ivomero rusange, hari ijerekani batezeho iri kujyamo amazi, hari umupapa uri kubavomera ari gukanda icyuma maze amazi akajyamo, abantu benshi babirangariye bigaragara ko babyishimiye.

Umuma wambaye jili ndetse n'ibaji mu ijosi, ari kugenda atanga ibipapuro ku baturage bari ahantu hagiye hatandukanye. Ubuvuzi bwegerejwe abaturage. Ni byiza gufasha abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza babere igihugu.

Imodoka ndende kandi nziza, izi modoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, ikirere n'ubururu ndetse hari n'akapa kariho k'ubururu, bigaragara ko handitseho wafapa, bigaragara ko hari aho bajyanye ibyo kurya kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Abantu bateraniye hamwe nk'uko bigaragara, bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'amahugurwa hejuru yaho handitse amagambo agira ati "uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu."

Umwana w'umuhungu wambaye agapira ka oranje, afite igikombe kinini cyane cy'icyuma, cy'umuhondo. Ari gufata amazi ku kigega. Iki kigega rero ni icyo leta yubatse, kugira ngo aha abaturage babone amazi, kandi bayabonere ku gihe.

Abana bato cyane, bari mu kiyaga. Bari kwidumbaguzamo. Ibi rero si byiza ku bana bato. Kuko bashobora kunywa ano mazi ahumanyije, bikaba byabaviramo kurwara indwara ziterwa n'umwanda ukabije.

Umusore wambaye agapira k'umuhondo ndetse na marineti, ateruye akana nako kambaye umupira w'umuhondo wogosha umusatsi bakawumaraho, imbere yabo hari telefoni ako kana bari kugashyira ku munzani kugira ngo barebe ibiroga bafite, bamenye niba imikurire yako iri kugenda neza.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bambaye imyambaro irimo amabara agiye atandukanye, turi kuhabona ihema ry'umweru ririmo abantu benshi cyane, tukabona idarapo ry'u Rwanda, aho bari kugenda babasobanurira ku bijyanye no kubungabunga ubuzima, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bari kuvoma amazi mu kigega ba tezajerikani, ariko bigaragara ko uyu mukobwa nubwo ari mukuru arangaye. Aya mazi rero leta y'u Rwanda yatekereje ku baturage bayo maze muri buri gace igenda ishyiraho ikigega cy'amazi kugira ngo babashe kurwanya umwanda ndetse bihaze no ku bijyanye n'amazi.

Umwana wambaye ishati y’ amaboko maremare, ikabutura y'umutuku ndetse na bodaboda. Ari kunywera amazi kuri robine akaba yatezaho idobo, iruhande rwe hari ibyatsi byiza cyane. Hirya hari inzu nziza cyane iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hakaba hari n'ibiti byiza cyane ho bigaragara ko aya ari amazi yegirijwe y’ abaturage kugira bagire ubuzima bwiza.

Amoko y'ishinge agiye atandukanye ndetse n'inkingo. Izi nkingo leta y'u Rwanda yafashe umwanzuro wo kuziha buri muturarwanda wese mu gihe cya kovide cumi n'icyenda, aho bakingiye abaturarwanda bose bakumira ubukana bw'icyo cyorezo.

Ubuvuzi bwageze kuri bose kandi leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo ubuvuzi bugere ku baturage kugihe, ahangaha rero ni mu kigo nderabuzima bakaba bari gukingira abantu bari kugenda babaha inkingo nk'uyu mumama baramukingiye.

Umugabo muremure wambaye ishati ndetse n'ipantaro watebeje, yicaye ku ijerekani yagiye kuvoma amazi ku ivomero rusange arishimye cyane iki gikorwa Leta y'u Rwanda yakoze abantu bakuru baracyishimira kuko nk'ubu agiye kuvoma amazi meza kandi hafi.

Umugabo ubyibushye cyane wambaye ikoti ahagararanye n'umukobwa bose bifashe mu biganza. Aba rero nk'uko bigaragara bahuguwe maze barahugukirwa bamenya ibijyanye n'ubuzima bwiza ndetse no guteza imbere ubuvuzi.

Abantu benshi cyane baje kuvoma hari umugabo uri kubavomera, bamwe bazanye indobo abandi bazana amajerekani ndetse abandi bazana utubido duto, aya ni amazi leta yegereje abaturage kugira ngo na bo bayabone, aho bari bayakeneye cyane nk'uko bigaragara.

Abaganga bambaye impuzankano baka udukarito mu ntoki nk'uko bigaragara bamaze gukora amahugurwa y'ukuntu ubuzima bw'abantu bwakwitabwaho ku buryo bavurirwa ku gihe. Serivise zabo z'ubuvuzi zigatangwa nta nkomyi kandi vuba.

Leta y'u Rwanda yakoze igikorwa gikomeye cyo kugira abaganga benshi ikagira n'ibikoresho byinshi, ahangaha rero turi kubona umuganga wambaye impuzankano uri gukingira akana, aho Leta ishaka inkingo maze ikazenguruka mu bigo by'amashuri ikingira abana bakiri bato.

Umwana wambaye agashati k'icyatsi kibisi, ari ku ivomero rusange, yari yaje aje kuvoma ariko ubu ari kwiyongera intoki, koga intoki ni byiza kuko birinda indwara ziterwa n'umwanda, aba bana barabikora mu rwego rwo kwishimira amazi meza leta yabagejeje aho batuye.

Abana bane bari ku ivomero, umwe yateretse ijekani hasi maze ajya kureba mugenzi we uri inyuma uri kumuvomera, mugenzi we nawe ari gukurura icyuma amazi akameneka hasi aho kugira ajye mu ibido, aya mazi rero ni ayo leta y'u Rwanda yegereje abaturage kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Aha ni mu kigo nderabuzima hari abantu baje kwisuzumisha, hari abantu benshi cyane bamwe bicaye iburyo abandi bicaye ibumoso, hari abari kugenda bakabakira bakababaza imyirondoro, bakabakorera ifishi maze bakaba bicaye bagategereza ko babageraho.

Ibiganza bigaragara ko ari iby'umwana uteze kuri robine amazi ari kuza maze akoga. Amazi ni ubuzima. Leta y'u Rwanda yegereje abaturage bose amazi kugira ngo babashe guhangana n'indwara ziterwa n'umwanda.

Aha ni mu mugezi turi kubona umugabo uri kogereza igare mu mugezi wambaye bodaboda ndetse n'ishati y'umuhondo, tukabona ndetse n'umumama uri kudaha amazi mu mugezi rwagati, ahangaha rero ntabwo bikwiye kuko aya mazi ntabwo asukuye ashobora kubatera indwara.

Abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano, bambaye amabaji mu ijosi. Imbere yabo hari umuzungu uri kubahugura ari kubaganiriza akababwira ibijyanye no kuvura kugira ngo nabo bajye bavura abaturage indwara zigiye zitandukanye.

Umwana muto cyane wambaye agashati ndetse n'agakabutura afite amajerekani atatu, ateretse ku ivome rusange, akaba ari kuvoma. Irivomero leta y'u Rwanda yagiye iryubaka ikajya irishyira muri buri mudugudu kugira ngo abaturage babe bafite amazi meza, maze bace ukubiri n'umwanda.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ahangaha ni aho bavurira amenyo, ubuvuzi bwegerejwe abaturage kugira ngo babashe kubona serivisi zose bakeneye, ubu ngubu buri kigo nderabuzima usangayo umuganga uvura indwara zigiye zitandukanye.

Abana bari ku ivomero rusange bari kuvoma amazi. Harimo abambaye impuzankano bigaragara ko bajyanye kuvoma imyenda y'ishuri ndetse bose bishimiye kuba barabonye aya mazi nka kimwe mu bikorwa remezo leta yegereje abaturage.

Umubyeyi uteruye akana ke mu ntoki hari umuganga wambaye impuzankano akaba afite urukingo ari kumukingira umwana yateze bigaragara ko nawe yamaze gusobanukirwa ibyiza by'urukingo nubwo akiri umwana muto cyane.

Abantu babiri bambaye bikwije hasi ndetse no hejuru; hari n'undi wambaye ikanzu y'abayisilamu; nk'uko bigaragara ni mu kigo nderabuzima; hakaba hari kandagira ukarabe ndetse buri wese uri aho yirinze bigaragara y'uko ari mu cyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Aha ni imbere y'ikigo nderabuzima. Abaturage bicaye hanze harimo umuntu ushinzwe umutekano tuzi nka daso, hakaba hari n'abandi bantu bigaragara ko ari abayobozi bahagarariye amatsinda ndetse n'umuganga bose bafite amafishi mu ntoki, hari ibyo bari guhugurana kugirango na bo bazahugure abandi.

Abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari kwita ku bana bato cyane. Bari kubabanywesha igikoma aho turi kubona umusore anywesha umwana ukiri muto, ubu ngubu rero bikaba ari ibintu byiza cyane leta y'u Rwanda yegereje abaturage kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abaganga bifashisha mu gihe bongerera umwuka abarwaye. Iyo umurwayi arembye cyane, umwuka ukamushirana, baraza bakagitwara, maze bakakimushyira ku mazuru, akabasha guhumeka.

Abantu benshi cyane bamwe baricaye abandi barahagaze, bari gufata ifoto y'urwibutso bari bakoze inama mpuzamahanga yiga ku bijyanye n'ubuzima, n'uko bateza imbere ubuvuzi kuri bose maze bukagera ahantu hose.

Ibigega byiza cyane biteretse ku meza biri mu mabara y'ubururu ibi bigega bikaba biri mu bigo by'amashuri abana bambaye impuzankan bari hafi aho ngaho bafite ibikombe bari kwivomera amazi meza cyane asukuye maze bakanywa amazi n'ubuzima.

Abaforomokazi ndetse n'abajyanama b'ubuzima harimo n'abaganga bose bambaye amabaji mu ijosi bamaze gusobanurirwa neza uko wafasha umuntu ukaba wamuvura kugira ngo nabo bajye bavura abantu mu buryo bwa kinyamwuga.

Abana benshi cyane bambaye impuzankano y'ishuri bateraniye ahantu hamwe bari kumwe n'umuntu w'umupapa wambaye ishati y'amakarokaro iciyemo uturongo tw'umweru ndetse n'umukara aha rero aba bana basobanuriwe ububi bw'indwara maze biyemeza kuzikumira.

Ivomero ryubakiwe abaturage. Hari abana benshi baje kuvoma. Umwana umwe aratambuka agatega akajerekani, maze undi akajya inyuma agakurura icyuma amazi akaza maze akavoma. Abantu bose baje kwirebera ibi byiza leta y'u Rwanda yabagejejeho aho batuye.

Umu mama wikoreye ijerekani y'amazi, akaba ari kuva kuyivoma. Imbere ye hari inzu nziza cyane nini, isakaje amabati atukura. Imbere ye hakaba hari n'ikindi kintu kimeze nka hangari. Aha ngaha rero izi ngizi ni zimwe mu ngamba leta yafashe zo kwegereza abaturage amazi.

Leta y'u Rwanda ihora irebera abaturage bayo icyatuma bakomeza gutera imbere bakagira ubuzima buzira umuze. Aha rero, hari mu cyorezo cya kovide cumi n'icyenda, aho abantu babaga bambaye udupfukamunwa, ariko abaturage bari bari guhabwa inkingo kuko n'uyu mugabo bari kumukingira.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, ni urubyiruko rurimo abasore ndetse n'inkumi, harimo n'abazungu, aha rero hakaba habereye ihuriro mpuzamahanga ryiga ku bijyanye n'ubuzima nyafurika, aha rero bari kungurana ibitekerezo kandi buri wese urabona ko afite inyota yo kuvuga uko abitekereza.

abamama babiri bicaye hamwe, bose barishimye, bicaye ku ntebe nziza cyane z'umukara, inyuma yabo hari ibitambaro by'ubururu ndetse nkuko bigaragara bari gutanga imbwirwaruhame kubantu babicaye imbere, kubijyanye n'ubuzima bwiza ku isi hose.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, hari umugabo ubahagaze imbere wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati mo imbere, afite indangururamajwi ari kugenda abasobanurira ababwira ukuntu abantu bose bashobora kugerwaho n'ubuvuzi kandi ku buryo bworoshye.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hagiye hateretse amacupa. Aya macupa arimo umuti wica udukoko two mu ntoki, aho buri wese abanza gukaraba kugira ngo hatagira uwanduza undi. Harimo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bari gufata ingamba ku bijyanye n'ubuzima.

Umwana muto cyane wambaye agapira ka oranje n'agakabutura k'ubururu, afite igikombe k'icyuma mu ntoki ari gutega amazi ku ivomero rusange aya mazi aturuka mu kigega, aya mazi rero bigaragara ko agiye kuyoga, ni byiza ko n'abana bagira isuku babikesha amazi meza.

Abantu batandukanye bicaye mu ihema, iryo hema rifite amabara y'umweru ,ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi. imbere yabo hateretse icyapa kigaragaza igikorwa kiri kuberaho, hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga akaba afite indangururamajwi ndetse n'agatebo mu ntoki kaba ari kugenda abasobanurira.

Abana bambaye impuzankano, ni abanyeshuri bavuye ku ishuri, aha ngaha rero bahitiye ahantu hari robine bari kunywesha amazi intoki, ibi bintu si byiza abana bakwiye kugendana ibikombe kugira ngo banywe amazi meza kandi asukuye.

Umwana ari gusuhuzanya n'umupapa, uyu ni umupapa mukuru wambaye agapira k'umuhondo umwana yambaye agashati ka amakarokaro karimo uturongo tw'umweru ndetse n'ubururu. Aho ngaha rero bari kugaragaza ukuntu umwana umwitaho maze ukamuha ubuvuzi ukamuvura mu mutwe akishima.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe .Aha hantu bigaragara ko habera igikorwa kidasanzwe. Hari ihema rihateretse, hari abantu bari mu ihema ndetse hari n'imodoka iri hafi aho. Nk'uko bigaragara rero, ni abaganga baje gukingira cyangwa se gusobanurira abaturage indwara runaka.

Umwana ndetse n'umumama baje kuvoma, ndetse bose bateze amajerekani ku ivomero rusange. Iri vome rusange rero abaturage baryubakiwe na leta kugira bose babashe kubona amazi meza kandi asukuye.

Umwana wisize isabune ku maboko akaba ari koga ibiganza by'iwe, bari kumusukira amazi avuye mu gikombe cy'icyatsi kibisi. Ibi rero ni byiza; gutoza umwana kumenya isuku akiri muto bimurinda indwara agakura neza.

Umumama ndetse n'umupapa baje gukingiza umwana wabo, umupapa niwe umuteruye ndetse hari umukobwa ugiye kumutera urukingo yamaze kurutegura. Ni byiza ko ababyeyi bose bita ku bana babo, bakabakingiza kandi bakabikorera ku gihe.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, harimo abagabo bambaye amakositimu meza cyane, nkuko bigaragara, ahangaha bari gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo bazibuke ko bigeze gukora iri huriro ryiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse bagafata n'ingamba ku buntu bakwegereza ivuriro abantu bose.

Umumama uteruye mwana akaba afite indobo y'umukara, yaje kuvoma amazi meza cyane ku ivomero rusange, aya mavomero leta y'u Rwanda yubatse hirya no hino kugira abantu babone amazi meza kandi asukuye, hirya ye hari ibiti byiza cyane n'ikirere kirasa neza ubururu.

Umwana muto cyane ari gutega amazi kuri robine rusange, agakaraba intoki, kugirango ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda. Ibi leta y'u Rwanda yabikoze kugira ngo buri muturarwanda wese abone amazi meza kandi asukuye.

Umumama wikoreye indobo akaba afite n'indi mu ntoki, avuye kuvoma amazi meza cyane, aho agiye kugenda agakora isuku mu nzu ndetse no mu bikoresho, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza nk'uko leta ibyifuza.

Abana benshi cyane bicaye hasi, bambaye udupira dusa tw'umuhondo hakaba hari abantu bakuru bari kugenda babawesha igikoma gake gake babasomyaho. Harimo abantu bagiye batandukanye ndetse harimo na polisi y'igihugu kuko turi kubona umusore wambaye impuzankano ya polisi.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari mu mahugurwa y'ibijyanye n'ubuzima, ni abaforomo ndetse n'abaganga, bose bafite udutabo imbere yabo ndetse n'amakaramu, ndetse n'amacupa y'amazi barakurikiye cyane, aya mazi n'abafasha kugira ngo badasinzira bakomeza guhugurwa.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaforomokazi, imbere yabo hari umuzungu wambaye ikote ry'umukara, nabo bambaye impuzankano y'abajyanama ndetse n'amabaji mu ijosi, bamaze gusobanurirwa uko bagomba kurinda ikiremwamuntu haba mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange.

Abamama bateraniye ku ivomero, iri ni ivomero leta yubakiye abaturage kugira ngo babashe kubona amazi meza, bose bari kuvomera mu ndobo umwe agiye gufasha undi gukuraho indobo kugira ngo nawe avome, aya mazi ni meza afasha aba baturage kubaho neza.

Ivomero ryiza ryubakiwe abaturage riri ahantu heza cyane hari umumama uri kuvoma amazi yishimye hakaba hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru agira ati amazi asukuye agomba kugera kuri bose mu Rwanda.

Ibi ni bimwe mu bikoresho abaganga bifashisha mu gutegura amazi meza cyane, aha rero ibi bintu bisukura amazi; maze uyanyweye yavuyemo hano akayanywa asa neza cyane. Kirasa ubururu ndetse hariho n'akantu kagaragaza ko gikoreshwa kamwe.

Abantu bateraniye mu nzu y'inama hakaba harimo abamama ndetse n'abapapa, harimo abazungu ndetse n'abirabura, hari ubayoboye bigaragara ko ari kubaha igitekerezo yicaye imbere y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, aha rero imbere yabo bose hari uducupa tw'amazi.

Umukobwa wicaye hasi yateretse ijerekani mu ibase ndetse ari kuvoma amazi kuri robine, aha ngaha rero Leta ibi yabikoze yishimye kugira ngo n'abaturage bishime, aho yegereje amazi abaturage kugira ngo babeho bishimye kandi bafite isuku.

Abajyanama b'ubuzima ndetse bari kumwe n'abaforomo, bahagaze ahantu bari gufata ifoto y'urwibutso, bamaze guhugurwa kugira ngo bajye kuvura abaturage kandi babavure neza nta nkomyi, inyuma yabo hari ibyapa harimo icya MTN ndetse n'ikindi kijyanye n'iby'ivuriro.

Abagabo babiri, bose bambaye amakoti meza cyane y'umukara. Umwe afite ibitabo mu ntoki, undi afite telefoni nto. Bari gusuhuzanya bigaragara neza ko bagiye gukorana inama ndetse n'ibiganiro, maze bakareba ukuntu bageze ubuvuzi hirya no hino mu baturage.

Umugabo uri kuvoma amazi ku ivomera rusange ateza ijerekani, hakaba hari kujyamo amazi, aya mavomero leta y'u Rwanda yayubakiye abaturage kugirango babone amazi meza asukuye maze biririnde indwara ziterwa n'umwanda, hari ibimera byinshi cyane ndetse bigaragara ko ari umuyaga mwiza cyane.

Ahantu hateraniye abantu benshi cyane, hari abaturutse mu nzego z'ubuvuzi ndetse n'abaturutse mu nzego z'umutekano. Hari ihema riri ahongaho, bigaragara ko baje gupima ndetse no gukingira uburwayi runaka. Abaturage nabo bitabiriye ku bwinshi kuko ni benshi cyane.

Abantu bicaye hamwe bigaragara ko bari mu nama bari, guhugurwa bari gusobanuza kandi bagasobanukirwa, aha rero bari mu nama igamije kwegereza ubuvuzi buhamye abaturage bose muri rusange.

Aha ni mu kigo nderabuzima, abantu baricaye bari gusobanuza ndetse abandi baje kwivuza, harimo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga, bari gutanga amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima, maze abaturage nabo bakabaza kandi bakabasubiza.

Akana gato cyane kaje kuvoma amazi ku ivomero rusange karishimye cyane kari guseka. Hari umucuti we uri inyuma uri kumukururira icyuma maze akavoma. Bombi barishimye amazi yageze kuri bose kugirango birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Akana karyamye hasi, mama wako ari kukareba akakitegereza akagirira impuhwe hari, abaganga bambaye impuzankano, bari kugasuzuma ndetse bari kugenda bakongerera amaraso ndetse n'umwuka kararwaye cyane kararembye.

Umuhungu wambaye insengero y'umukara, n'ikabutura y'umuhondo. Hari umwana umuhagaze imbere ufite amazi mu ibirikira, na we afite indobo imberebere ye. Afite n'isabune mu biganza bari kumusukira yoga intoki. Koga intoki ni byiza bituma abantu bagira ubuzima bwiza buzira umwanda.

Abana batatu bari kw'ivomero, iri vomero rifite uturobine twinshi bose bari gukaraba intoki, uyu nguyu ni umuco wageze mu banyarwanda aho buri muntu akaraba intoki uko bikwiye kandi, akoga neza n'isabune kugirango ngo yirinde indwara ziterwa n'imyanda,

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage, hano turi kubona umupapa wicaye hasi, bakaba bari kumusuzuma, si ibyo gusa hari abakorerabushake bo muri kuruwa ruje, ndetse hakaba hari n'abaforomo baje kuvura aba baturage babasanze aho batuye.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko baje gukingiza abana, bari gutambuka bakabuzuriza amafishi maze bagatambuka bakabasuzumira, ni byiza rero gukingiza umwana ku gihe kugira ngo umenyeye uko ahagaze.

Umwana muto cyane wambaye imyenda yo mu bitenge, yateze amazi mu ibase maze ari koga intoki ku ivomero rusange, aya mazi leta y'u Rwanda yegereje abaturage kugira ngo barusheho guhangana n'indwara ziterwa n'umwanda, inyuma ye urukuta rwubakishije amatafari y'isima.

Icyapa kigaragaza ikigo gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, kikaba gitanga amazi meza kandi asukuye nk'inshingano zayo, aho bigaragara ko cyubatse ibigega byinshi kandi kimaze guhaza igihugu cyose amazi.

Inyubako nziza cyane leta y'u Rwanda yubatse kugira ngo abaturage babone ibikorwa remezo kandi bimeze neza. Ahangaha rero abaturage iyo bahageze babona ubudasa n'ubudahangarwa bw'igihugu cyacu bakishima cyane nkuko tubibona.

Umwana muto wambaye impuzankano y'abanyeshuri afite agakombe gato, ari kuvoma amazi mu kigega bigaragara neza ko aya mazi agiye kuyoga mu kanwa. Leta y'u Rwanda yegereje abaturage amazi, aho yagiye itanga ibigega hirya no hino kugira ngo babashe kubona uko birinda indwara ziterwa n'umwanda.

Abana bane bahagaze ku ivomero, umwe yateretse ibdo undi ajya kumuvomera ahita yirangarira amazi ari kumeneka hasi, bose bari gushimishwa n'iri vomero uko rimeze, nkuko bigaragara bararangaye, inyuma yabo hari ibyatsi byiza ndetse hirya hari ibiti bimeze neza.

Icyapa kiriho umuntu wambaye amarinete akaba afite umusatsi mwinshi, aha rero hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru aho bavuga bati ubuzima bwo mu mutwe bwiza kuri buri wese.

Abakobwa babiri bicaye ahantu hamwe bagiye bafite udushushanyo mu ntoki bari kuganira bakagenda bungurana ibitekerezo ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe ukabona ko bose bishimye nta kibazo bafite.

Ni umukecuru wagize ikibazo, ubwonko bwe ntibukora neza, yafashe ibiti abitereka hagati y'amabuye abiri, maze aterekaho isafuriya, ari kumera nk'ukoroga, ariko ukuntu ameze bigaragara ko ubwonko bwe bufite ikibazo.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako y'ivuriro hakaba hari imikindo. Uyu mugabo ameze nk'uri gutanga ikiganiro ku bantu batagaragaje, akaba ari kubasobanurira ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imikorere y'ubwonko kugira ngo bibafashe.

Abantu bateraniye ahantu hamwe harimo umugabo wambaye ishati nziza cyane ndetse na karuvati, hakabamo umumama w'umuzungu ndetse aba bantu bambaye imipiri isa, bigaragara ko bayihawe kugira ngo bamamaze igikorwa cyabereye hano.

Abana bato cyane bambaye impuzankano bateze utuntu mu mutwe, nk'uko bigaragara bari kubasobanurira imikorere yo mu mutwe ndetse n'ubwonko muri rusange kugira ngo nk'abanyeshuri bamenye ubwenge kandi bicaye muri sitade.

Abantu bicaye ahantu hamwe bicaye mu buryo buzengurutse nk'uko bigaragara bari guhabwa inama ndetse n'amahugurwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'imikorere y'ubwonko muri rusange. Ubwonko rero bukora neza mu gihe wirinze imihangayiko.

Umugabo wicaye hasi akaba yambaye amapingu, inyuma ye ahagaze umupolisi. Nkuko bigaragara rero yagize ikibazo arasaragurika maze biba ngombwa ko polisi imuturisha imwambika amapingu, bakaba bagiye kumujyana kumuvuza.

Abana bato cyane bambaye impuzankano y'ubururu, barishimye cyane, bamanitse ibiganza. Bamaze gusobanurirwa ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe, maze bose barishima, ubona ko banezerewe.

Ni umusore wambaye ishati y'umweru, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru, akaba yanditse ku ibara ry'ubururu nk'uko bigaragara rero, ni huriro mpuzamahanga ryita ku bijyanye n'ubuzima.

Umuntu wakambije agahanga isura yiwe rwose yijimye, bigaragara neza yuko afite ibibazo bigiye bikomeye, mu mutwe we ntabwo hakora neza, akeneye ubujyanama kugira ngo agarure ubwenge, inyuma yiwe harasa icyatsi kibisi.

Umusore bigaragara ko yasaze ubwonko bwe ntibugikora neza, yicaye mu gipine ndetse afite ibisatsi binini cyane adaherutse kogamo, ndetse no gusokoza akaba afite n'ubwanwa bwinshi, ni ngombwa kumuganiriza maze bakamujyana no kwa muganga.

Abantu bicaye ahantu hanze bateye intebe zimbaho bigaragara ko ari umuryango ukaba uri kuganira, muri bo harimo ufite ikibazo bakaba bari kumugira inama bamubwira ko agomba kujya atekereza neza.

Umukobwa wambaye igitenge ndetse n'agapira k'umuhondo; afite imisatsi myinshi cyane atajya yitaho yarafashe umunyururu yizirika ku giti ndetse yicaye ku musambi. Nk'uko bigaragara uyu mwana w'umukobwa yahuye n'ikibazo cy'ihungabana, ubwonko bwe ntabwo bukora neza.

Umumama bigaragara ko akiri muto, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu. Afite agatabo mu ntoki, ari kuganiriza umubyeyi bigaragara neza ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana kugira ngo amenye niba ubwonko bwe bukiri gukora neza, maze arebe ko yamufasha.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bicaye mu matsinda, aho bari kugenda basuzuma umwe ku wundi. Aha rero hari n'ihema riri inyuma yabo riri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Ahangaha bakaba bari gusuzuma abantu imikorere y'ubwonko ndetse n'imitekerereze.

Umumama uhagaze mu iduka yambaye akaji k'umuhondo, ari guseka cyane ndetse bigaragara ko hari umuntu umaze kumusobanurira ibijyanye n'imikorere yo mu mutwe ndetse n'ubwonko muri rusange, agasanga we ameze neza cyane kuko ari ishimye.

Umukobwa wicaye mukizu cya wenyine hashushanyije utuntu tw'uturabo nk'uko bigaragara afite ikibazo mu mitekerereze ye yahungabanye, aha rero ni ukukwicaza ahantu heza maze bakakuganiriza kugira ngo nawe wiyumvemo ko nta kibazo gihari.

Abantu bicaye mu buryo bw'amatsinda, bari kugenda babaganiriza ndetse babumva buri umwe bakagenda bamwumva, aha ngaha hari imodoka iri inyuma yabo aho iyo ugize ikibazo bakwinjizamo maze bakagusuzuma bakareba niba imitekerereze yawe imeze neza, hirya hari ihema ry'umweru ririmo amabara y'ubururu icyatsi ndetse n'umuhondo.

Umugabo ndetse n'umugore umugore yicaye mu ntebe ya purasitike, umugabo umwicaye imbere afite imashini ari kumureberamo imyirondoro, imbere y'uwo mugabo hateretse icupa, ameza ariho igitambaro cy'umuhondo.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, bambaye imipira isa wagirango ngo niyo babahaye mbere yuko iki gikorwa gitangira. Aha rero hari kubera igikorwa cyo gusobanurira abantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ,ndetse n'imikorere y'ubwonko. Bakaba bakurikiye bari gusobanukirwa.

Ababyeyi batatu bahagaze ahantu hari ibidukikije byinshi cyane, hari ibimera birimo amasina, ibiti ndetse hakurya hari n'amazu atuwemo ahantu ku musozi muremure, umubyeyi ari konsa umwana kugira ngo agere mu mutwe hakora neza.

Umumama uhagaze ari gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hari indangururamajwi yambaye ishati y'icyatsi kibisi amarinete ndetse n'amaherena, ari gutanga ikiganiro ku bijyanye no gusigasira ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bari gufata amafoto y'urwibutso, harimo umupapa wambaye ishati y'umweru, karuvati, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto ya congo, harimo n'umuzungu ndetse bambaye imipira isa. Bigaragara neza yuko bamaze guhugurwa ku bijyanye n'imikorere y'ubwonko, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umumama bigaragara neza rwose ko yataye ubwenge, uyu mumama yambaye imyenda byinshi cyane kandi byose bishaje, yambaye n'ibikweto bishaje, afite ibintu by'ibyatsi ndetse n'imifuka afite mu ntoki ndetse hari n'ibicupa yateretse hasi n'ibikoni ndetse n'ibibuye. Nk'uko bigaragara rero ubwonko bwe ntibugikora neza, hakenewe ubujyanama.

Abantu benshi cyane bari ahantu hamwe hari umumama ukenyeye igitenge mu rukenyerero, akaba afite ibiti byinshi mu ntoki, hari akana kari kurira cyane kifashe mu gahanga, aka kana bigaragara ko kagize ikibazo kakaba katari gukora neza.

Abantu benshi cyane bari mu nzu y'inama, hari umukobwa uri imbere yambaye agapira gatukura n'agapantaro k'umukara, hari umumama wambaye ikanzu yo mu gitenge ufite agasakoshi mu ntoki, afite indangururamajwi mu ntoki, akaba agiye kuyiha uyu mukobwa kugira ngo avuge icya azi ku bijyanye n'imitekerereze.

Umumama bigaragara ko afite ikibazo cy'ihungabana, yikoreye igitebo kirimo imigozi, afite isuka mu ntoki akaba ahagaze ahantu imbere y'inzu y'amategura isa nk'ishaje, uyu mu mama rero nkuko bigaragara, kuganishwa maze agafashirizwamo.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo urubyiruko, abakuze ndetse n'abakiri bato. Aha ngaha rero bari bari mu nama, aho basobanurirwaga ibijyanye n'imikorere y'ubwonko kandi bakarangiza bishimye. Aha rero bafite icyapa kiriho amagambo agiye atandukanye, aho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umuhondo, ikaba ifite utwuma tuyizengurutse rw'ubururu, iyi nyubako ni ivuriro bavuriramo abantu bahuye n'ihungabana aho basuzuma imikorere y'ubwonko bwawe bakamenya icyo bagufasha.

Umugabo wambaye ishati ndende yegamiye igikuta, bigaragara neza yuko ubwonko bwe butari gukora neza, yahuye n'ikibazo cy'ihungabana. Urukuta yegamiye rurasa n'umweru, aho ahagaze hasashe amatafari, ariko bigaragara ko hashaje.

Umusore bigaragara ko yahuye n'ikibazo cy'ihungabana yegamiye urukuta, yicaye hasi ndetse bigaragara ko yatakaje icyizere cy'ubuzima, aha rero afite ibibazo byo mu bwonko bigiye bitandukanye akwiriye ubujyanama ndetse no kuganirizwa.

Umuntu wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu afite akapa mu ntoki ari kwereka abantu uyu muntu rero akaba ari kubereka ibijyanye n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange kandi akanabasobanurira.

Abantu benshi cyane bari mu muhanda harimo abantu bambaye imipira y'icyatsi kibisi ndetse hakabamo na polisi y'igihugu cy'u rwanda bakaba bafite icyapa cy'ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya polisi y'u rwanda hakaba handitseho bati kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turikuhabona imikindo ndetse n'ibiti birebire, hari ubusitani bwiza, iyi nyubako iteye amarangi meza ndetse hari n'amagambo ariho yandikishije ibara ry'ubururu, aha rero bakaba bahatangira ubujyanama ku bahuye n'ihungabana.

Uwo umusore bigaragara ko akiri muto, akaba yubitse umutwe mu biganza. Yagize ikibazo cy'ihungabana. Abasore nk'aba rero bakwiye kuganirizwa bakitabwaho, kugira ngo ibibazo nk'ibi bikemukire ku gihe.

Umumama wicaye hanze atetse igikoma mu isafuriya isa nabi, ahetse umwana mu mugongo ndetse n'imbere ye hari undi uhahagaze, nk'uko bigaragara rero uyu mumama ashobora kuba afite ikibazo cy'imitekerereze kuko ntago wagira abana bangana uku ucyitwara gutya.

Umukobwa wambaye imyenda y'umutuku. Yitangiriye itama ndetse yambaye n'ingofero. Imbere ye hari undi wambaye imyenda y'umukara. Yambaye amarinete ndetse afite umusatsi wa natireri. Ari kumuganiriza cyane. Uwambaye iby'umutuku, bigaragara ko afite ibibazo bigiye bitandukanye, ubwonko bwe ntiburi gukora neza.

Umukobwa wambaye ijakete y'umukara, ateze agatambaro k'umukara, akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru. Imbere ye hari amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi kibisi aho bagira bati ku rwego rw'isi tugomba kugira ubuzima bwiza. Uyu ni umushinga u Rwanda ruri guteza imbere.

Umukobwa wambaye agapira k'ubururu ndetse n'umupira w'umutuku, ahagaze mu nzu aho bigaragara neza y’uko ubwonko bwe bukora neza. Arishimye cyane, ari guseka, buri wese nawe utekereza neza mu gihe ameze neza aba yishimye.

Abantu benshi cyane biganje mu rubyiruko bateraniye ahantu hamwe bigaragara yuko bafite ishimwe bahawe nyuma yo gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubwonko muri rusange. Inyuma yabo hakaba hari imodoka ifunguye umuryango ndetse hakaba n'amahema manini cyane bigaragara ko bashoje inama.

Umusore ufite amenyo meza cyane ariko muganga ari kumuvura nkuko tubibona, aha ni mu nyubako aho bavurira abarwayi b'amenyo ariko uyu musore yari afite amenyo meza kuko muganga amwitaho akagenda yitaho uko bukeye n'uko bwijewe.

Muganga w'amenyo yambaye impuzankano y'abaganga, agapfukamunwa ndetse n'amarinete yaryamishije umwana ku gatanda ari kumuvura iryinyo aho ari kugenda amusuzuma ngo arebemo iryo akura ndetse n'iryo avura ariko atarikuye.

Aha ni kwa muganga akaba ari ahantu bakurira amenyo, aha ni mu ivuriro ry'amenyo, amenyo iyo uyarwaye uba ugomba kuza maze ukinjira muri iki cyumba, ugahura na muganga wayo akagusuzuma maze akagusobanurira uko amenyo yawe ameze.

Umukobwa uri mu ivuriro, harimo umuganga uri kumukura amenyo, afite utwuma bakoresha, aho agenda amukuramo rimwe ndetse n'andi asigaye ari kuyamwogereza. Kwisuzumisha amenyo bakayakuvura ni byiza cyane.

Aha ni kwa muganga mu cyumba gikurirwamo amenyo. Harimo ibitanda bitatu abaganga bifashisha baryamishaho abarwayi mu gihe bagiye kubasuzuma ndetse no kubavura amenyo, ibi bitanda rero bikozwe mu buryo bwihariye.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro hakaba harimo umuganga, aha ni ahavurirwa amenyo ari kureba mu byuma bifashisha bari gupima maze agafata marikeri akandika ku ifishi, bigaragara neza ko ari gukora ubushakashatsi.

Umwana muto cyane uryamye ku gatanda bavuriraho amenyo, hari umuntu wambaye uturindantoki uri kumwasamura maze akareba mu kanwa ke kugira ngo arebe amenyo ye ikibazo afite ubundi amuvure, aha rero ni ko kwa muganga bavura amenyo.

Umusore uryamye ku gatanda ko kwa muganga aho bakuriramo amenyo. Muganga afite ikintu mu ntoki, ari kumubaza iryinyo rifite ikibazo akamutungiraho agatoki. Muganga wagirango ngo icyo kintu agiye kukimucomeka mu kanwa.

Aba ni abaganga bari kwihugura uko wavura iryinyo warikura cyangwa se warigorora. Bafite ibikoresho bigiye bitandukanye by'abaganga ndetse bari kwigira ku kintu cy'igipalasitike . Nabo ngo bihugure neza cyane bajye bakora ibintu bibuka cyane.

Umusore mwiza cyane. Ari kugaragaza amenyo ye ukuntu ari mez. Yahoze afite ibibazo by'amenyo, ajya kwa muganga. Muganga aramuvura neza cyane, amwandikira imiti, none amenyo ye yabaye meza, ku buryo na we ayaratira abandi.

Aha ni kwa muganga mu cyumba kivurirwamo amenyo harimo ibitanda muganga asuzumiraho ndetse n'intebe yicaraho mu gihe ari gusuzuma cyangwa se ari kuvura harimo ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha kandi bigezweho.

Umukobwa usa nk'aho akuze, afite uburoso bw'amenyo buriho umuti ndetse ari koza amenyo yireba mu kirahure, ari kureba amenyo ye kugirango ngo arebe ko nta ryaba ryangiritse maze aryivurize ku gihe.

Umusore uri guseka, uyu musore yambaye akajaketi keza cyane akaba ari guseka yerekana amenyo yiwe, yarayavuje arakira maze arikwereka abantu ukuntu nawe wavuza amenyo yawe maze akaba neza nk'ako kanya.

Aha ni kwa muganga. Mu cyumba bavuriramo ameny. Harimo abaganga babiri, bari kuvura umuntu. Umwe ari gutungayo ikirebayo, undi agashyiramo igikoresho, kugira ngo amusuzume, kandi amuvure. Indwara z'amenyo ni zimwe mu ndwara zibasira abantu.

Umusore wambaye ijire y'umukara akaba aryamye ku gitanda bakuriraho amenyo ndetse hari n'abaganga bari kumuvura amenyo, bari kuyasana andi bakayakura nk'uko bigaragara aha bari kumuha ubuvuzi bw'amenyo.

Umugabo ufite akantu kameze nk'agafite amenyo abiri ariko kugashyira mu menyo ye ngo ayagorore. Ni byiza rero ko nawe wajya wisuzuma ugasuzuma amenyo yawe ukumva irirwaye maze ukarivuza cyangwa ukaryivurira.

Umusore wasobanukiwe ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ari kudutungira urutoki akantu kariho utuntu tumeze nk'amenyo. Uyu musore rero afite amenyo meza bigaragara ko yivuje agakira akaba ari gutanga ubuhamya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro aha ni ahavurirwa amenyo harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibitanda muganga aryamishaho abarwayi mu gihe agiye kubasuzuma ndetse no kubavura hakaba harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha.

Umwana muto cyane uryamye hasi bari kumusuzuma amenyo. Ahangaha rero muganga yamaze kumushyiramo ibikoresho byose akoresha kugira ngo amenye ahari iryinyo rirwaye ari kumusuzuma, nariribona ararivura cyangwa arikuremo umwana atahe yishimye.

Umwana muto cyane w'umukobwa bari kumusuzuma amenyo, bamushyize akarahure mu kanwa, aho muganga agaterekamo maze akajya areba niba nta ryinyo rifite ikibazo, ariko uyu mwana amenyo ye yose yarakutse.

Umuntu bamaze gukura iryinyo turi kubona ipesi iriho iryinyo ryose riviriyemo rimwe mu kanwa ke hasigayemo umwobo munini cyane ndetse havuyemo n'amaraso ni byiza kwirinda indwara z'amenyo kuko iyo barikuye hasigara hagaragara nabi.

Aha ni kwa muganga bakaba bahavurira ibijyanye n'amenyo, ndi kubona ibikoresho bigiye bitandukanye muganga w'amenyo yifashisha igihe ari kuvura abarwayi, aha rero bigaragara ko harimo n'amarange meza cyane.

Iki ni igishushanyo kigaragaza amenyo y'umuntu uko ari mirongo itatu n'abiri, aha rero abaganga bakunze gukora amahugurwa bakareba ku buryo bamenya iryinyo n'aho riherereye, ku buryo uza kwivuza bakubaza iryinyo urwaye bagahita barimenya.

Umusore uhagaze bigaragara ko ari kwireba mu kirahure afite isume ku rutugu, akaba afite akadodo mu ntoki ari kugenda akagoroza amenyo ye akishima cyane, uyu musore bigaragara ko afite amenyo yitayeho kandi ameze neza.

Abaganga babiri b'amenyo bari gukura iryinyo umumama uryamye hasi, umwe ahagaze ibumoso undi iburyo bamuryamishije hagati ndetse imbere yabo bahateretse ibikoresho byose bari bukenere. Uyu mumama bigaragara ko bamuteye ikinya.

Umusore uryamye ku gitanda bavuriraho amenyo hari umuganga w'umumama uri kumuvura amenyo, aho ari kumwitegereza cyane bose bakarebana, ari kumuvura bishimiranye, ibi rero bituma umurwayi akira vuba.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, akaba afite urudodo mu ntoki. Ari kugorora amenyo y'iwe arugoroza. Ndetse aya menyo y'iwe nk'uko bigaragara ni meza cyane, kuko ayitaho kandi akayasuzuma buri munsi.

Abana bato cyane bambaye impuzankano, bose bari mu ishuri, bamanitse uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti wamenyo bahawe, barishimye cyane kuko bagiye kwikingira ndetse no kwirinda indwara z'amenyo ziterwa n'umwanda.

Umukobwa ufite amenyo meza cyane ari kuyerekana; uyu mukobwa yigeze kugira ikibazo cy'amenyo ajya kwa muganga baramuvura maze arakira neza. Ubu asigaye afite amenyo meza cyane na we yerekana kandi areba akishima.

Aha ni kwa muganga mu cyumba kivurirwamo amenyo. Turi kuhabona umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, akaba yambaye ga mu biganza, agapfukamunwa ndetse n'amarinete yazamuye yagejeje ku gahanga, ari kuvura umuntu yamuryamishije ku gatanda.

Aha ni kwa muganga aho bavurira amenyo, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amatara arangaza abarwayi, hakabamo ibikoresho byujuje ubuziranenge muganga akoresha mu gihe ari gusuzuma ndetse n'igihe ari kuvura umurwayi.

Abamama bakuru bahagaze mu myaka barishimye cyane ndetse harimo n'aba papa. Aba ni abantu bakuru bishyize hamwe maze bikorera itsinda biyemeza kujya bahura bagakora imirimo imwe n'imwe maze bakaganira bakishima.

Umusaza uri kumwe n'abana be ndetse n'abuzukuru be ndetse ari kumwe n'umukecuru we barishimye bose banejejwe no kuba bari kumwe n'ababo, inyuma yabo hari uturabyo ndetse inzu yabo isize irangi, hejuru hakaba harimo amatara banejejwe no kuba bose bari hamwe.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe, harimo abakecuru ndetse n'abasaza ndetse uyu mukecuru n'uyu musaza bari kumwe n'abuzukuru babo ndetse n'abana babo barishimye cyane, aha ngaha rero iyo ushaje uhora wifuza kuba uri kumwe n'abawe.

Umusaza bigaragara ko akuze, afite ubwanwa bwinshi cyane bwajemo imvi, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki, umuforomo wambaye impuzankano y'abaforomo ari kumusukira imiti ku kiganza, maze ngo ahite ayinywa. Ni byiza kunywera imiti ku gihe.

Umuntu uri muri siporo ari kugorora amaboko ndetse n'amaguru yicaye hasi, izi siporo abantu bakuru bagomba kuzikora kugira ngo barusheho gukomera haba amagufwa ndetse n'umubiri, uyu mumama rero akaba yagize igitekerezo cyiza cyane.

Umusaza wicaye mu ntebe z'amadive ari kumwe n'umuganga w'umuforomo, ari kumushyira ikintu ku kuboko kugira ngo arebe uko umuvuduko we uhagaze, aha rero iyo ushaje biba byiza iyo bakwitayeho kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza.

Umusaza wicaye mu kagari k'abafite ubumuga yambaye umupira w'amaboko maremare amarinete ndetse afite n'ivi inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika agenda amusetsa bose base aho hari ubusitani bwiza cyane inyuma yabo hakaba hari inzu itagira ukosa.

Umukecuru, umukobwa we ari kumukoresha siporo. Ariko kumuhakana mu ntoki, maze akamufasha kugorora akaboko. Aha rero, uyu mukecuru bigaragara ko ashimishijwe no kuba ari kumwe n'umukobwa we, dore ko ntako bisa.

Umukecuru ndetse n'umusaza bari ahantu hamwe, umusaza yambaye amarinete umukecuru yambaye agakufi mu ijosi, ndetse n'isaha ku kuboko, bombi bigaragara ko bagiye kunywa imiti, kuko bari kureba uko ikoreshwa bari kugenda bareba neza berekana.

Umusaza ushaje cyane mu byukuri bamwicaje mu ibase bari kumwuhagira, bari kumwoza neza cyane bamwitayeho na we yabyishimiye, abantu bakuze rero bakwiye kwitabwaho kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Abamama batatu bigaraga yuko bakuze, barangariye muri telefoni, bose urikubona ko bafite ibyo barangariyemo kandi bibasamaje, rero nawe ukuze jya ushaka mugenzi wawe muganire kugira ngo irungu ritakwica.

Umupapa ari gukina n'akana ke kakiri gato umukino wa basket biri kugaragara ko ari ku kataka, uyu musaza ashimishijwe no kuba ari gukina n'akuzukuru ke aho ari kugenda akataka asa nk'ushaka ku kubaraho ariko nako kakamucika bose bagaseka.

Umugabo n'umugore barashaje bari kumwe n'abana babo ndetse n'abuzukuru barishimye cyane, inyuma yabo hari ibiti byiza cyane biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo ndetse hari n'igipangu kiri inyuma yabo, gusazira mu bawe birashimisha.

Umumama bigaragara ko akuze ari gukina ikarita n'abandi ubona ko bakiri bato, bose bari gukina babwirana inkuru bishimye baseka, ababyeyi bakuze rero bakwiye kuba bari kumwe n'abana bakiri bato kugira ngo batigunga.

Umusaza ushaje ari kugenda mu ivuriro bamuhaye akuma agenderaho, aho atambuka gake gake, hari umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo ari kugenda amufashe agake gake gutambuka maze umusaza akishima.

Amugabo bigaragara ko akuze cyane. Afite inda nini cyane, yambaye ishati y'ubururu, ari kumanukka gake gake, hari umuforomokazi uri kumufasha kumanuka, agenda amuganiriza. Bose bari kugenda baseka, bigaragara ko bishimiranye.

Abasaza babiri bambaye ingofero ndetse n'imikenyero. Bombi bari kureba neza kandi barishimye. Biragaragara ko bari mu birori kandi bakaba bishimiye kuba bari muri ibi birori, nk'abantu bakuze, bari guhana ijambo maze bakaganira.

Umusaza ukuze cyane, afite umuntu umuba hafi akamwitaho, bigaragara ko ari umuforomo cyangwa se akaba ari umukozi we, ari kumusukira umutobe w'imbuto mu kirahure, ndetse ku meza hateretse imbuto nziza cyane, pome nziza zagiye zigakura, hateretse udusorori turimo ibyo kurya, uyu mupapa afite n'ikirahure, bigaragara neza y'uko agiye kunywa, akanarya.

Umumama bigaragara yuko afite ikibazo mu maguru hari utwuma, ari kugenda yicumbaho atambuka gake gake kugira ngo agorore imitsi, maze arebe ko yazakira burundu, uburwayi bw'ingingo iyo ubufite bigusaba gukora siporo kugira ngo bukire.

Abagabo babiri bigaragara yuko bakuze bari gutambuka mu kayira karimo amatafari, impande zabo hari pasiparumu ndetse n'ibiti birebire, abagabo rero bari kugenda baganira gake gake nubwo bakuze ariko urabona ko bishimye.

Abamama babiri bari muri siporo bari gukora siporo ahantu heza, hari indabyo nziza cyane, hari ibiti birebire bitanga umuyaga. Nawe rero jya ukora siporo kugira ngo ugire ubuzima bwiza nk'aba bamama kandi ntacyo bakurusha uretse ubunebwe.

Umukecuru uri muri siporo ari kuzikorera ahantu mu nzu, yarambuye tapi ndetse ari kugorora amaboko, umugongo ndetse n'amaguru, yambaye agasengeri ka oranje ndetse arashaje cyane kuko afite imvi ku gahanga nyinshi.

Umukecuru uri ahantu mu nzu nini cyane ari kumwe n'umukobwa, bigaragara ko ari umuforomo kuko yambaye impuzankano y'abaforomo, bari kuganira umukecuru agaseka. Uyu mukecuru arashaje ariko kubera ukuntu afite abamwitaho ameze nkaho akiri inkumi.

Umusaza ari kumwe n'umusore mu nzu, uyu musaza arashaje afite ikirahure imbere yiwe ari kunywa icyayi ndetse n'uyu musore bari kumwe nawe ni uko, akaba yambaye amarineti bari gusomana igitabo maze umusaza agaseka cyane.

Umusaza wambaye amarinete yicaye ku ntebe, umuforomokazi ari kumuha akantu mu ntoki kugira agorore imitsi y'amaboko, nawe ari kugaterura akora siporo gake gake nk'umusaza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza.

Abakecuru bateraniye ahantu hamwe bari kugenda babaganiriza, bakabereka ko babitayeho maze nabo bakishima. Buriya iyo umuntu akuze aba akeneye kwitabwaho kugirango ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Umugabo bigaragara neza cyane ko akuze yambaye ishati, yambaye marinete ndetse afite agasatsi gake karimo imvi, akaba afite ikaramu mu ntoki ndetse n'agatabo ari gusoma kugira arebe ko iminsi yakwicuma.

Umusore ndetse n'inkumi bari guhagurutsa umusaza ku buriri, bamuhagurutsa agake gake bamwitayeho aho bari kumufasha kugira ngo nawe agere hanze. Ababyeyi bakuze baba bakeneye abana babitaho kugira ngo babone ko atari bonyine.

Umusaza ari kumwe n'umwana we, uyu musaza afite ikirahure cy'amazi imbere ye ndetse n'imiti, uyu mukobwa we bigaragara ko agiyehati, ni byiza ko abantu bakuze bagira babitaho kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza.

Umumama wambaye agapira ka orange, ari kumwe n'umwana w'umukobwa w'umuforomokazi ndetse uyu mumama ni mukuru cyane. Uyu mwana ari kumwitaho ndetse yicaye mu kagare k'abafite ubumuga akaba ari kumuganiriza bose baseka.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko akaba yambaye n'amarineti ari kumwe n'umuforomokazi uri kumusuzuma. Uyu musaza arishimye cyane bigaragara ko yishimiye uyu muforomokazi, kandi na we akaba yamwishimiye muri make bose bishimiranye.

Abamama ndetse nabapapa bicaye ahantu mu busitani bari guseka barishimye. Umumama umwe ari kudoda agaseke ndetse umusaza ateraruye umwuzukuru n'umukecuru ari kureba akishima.

Umupapa ukuze, yambaye umukandara w'abakaratika ndetse umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo, ari kumufasha gake gake gutambuka, agenda afashe kutwuma kugira ngo atagwa, uyu musaza bigaragara ko akeneye umwitaho.

Umumama bigaragara ko akuze. Ari kumwe n'abana biwe babiri. Bari mu nzu ndetse imbere yabo hari udukoresho tugiye dutandukanye. Bigaragara neza ko bari bari gufata amafunguro akomoka ku bimera.

Umusaza uri kumwe n'abuzukuru be. Bose bari gufata amafunguro, Uyu musaza yishimiye kuba bari kumwe n'abuzukuru be kuko burya gusaza nta wawe ufite birakanyagwa. Uyu musaza rero afite imvi ndetse yambaye n'ishati y'amaboko magufi.

Abamama bakuze bigaragara ko bishimye cyane bafite telefone imbere yabo bari kurebamo bose bagaseka, iyo ukuze uba ukeneye ikintu gituma uhora wishimye kugira ngo umunabi utagufatanya no gusaza ugahuka.

Abamama bari ku murongo ndetse n'umukobwa, bishimiye kuba bari kumwe bose bari hamwe, kuko abenshi muri bo barakuze, ni byiza rero kuba abantu bakuze baba bari hamwe bari gukina, basabana, kuko bibafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umugabo bigaragara yuko akuze, urebeye ku ntoki ze, hari igishoro kimuri imbere, Ari kugenda yimura utuntu. Ukabona biramushimishije. Niba nawe ukuze, hitamo umukino ugushimisha, kugira ngo uhore wishimye.

Umusore ndetse n'umusaza bari muri siporo, umwe ari gukurura n'undi agakurura kugirango bakomeze mu maboko yabo, ni byiza rero uko n'abantu bakuze bakora siporo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza kandi bubabereye.

Umukecuru wicaye hasi, hari umuforomokazi ufite icyuyumvirizo mu ijosi ari kugenda amuvura, ari kumusuzuma ku maboko, aho amwitaho, abakecuru ndetse n'abasaza bakuze bitabwaho cyane, kuko iyo urebye nabi ubuzima bwabo bwahita bugucika.

Umukecuru rwose bigaragara ko ashaje, yambaye agapira karimo amabara y'umweru uturongo tw'umukara, afite imvi nyinshi cyane ku gahanga, yambaye amarinete, ari kumwe n'umugore ukiri mutoya w'umuforomokazi, afite icyiyumviro mu ijosi, ari kumuha keya ari kugenda amutwara gakegake ngo amuvure.

Umuntu bigaragara neza cyane ko ashaje afite ibinini mu ntoki ndetse akaba afite n'ikirahure kirimo amazi agiye kunywa imiti, uyu muntu ashobora kuba arwaye indwara itajya ikira ahubwo anywa iyi miti buri munsi.

Ababyeyi bakuze bari ahantu hamwe barishimye cyane, bari guhugurana ndetse hari n'umwe ufite icyapa, bagihuriyeho ari babiri aho basobanukiwe neza kandi bagahugurwa ibijyanye no gufasha umubyeyi ukuze kugira ngo akomeze asaze neza.

Abakecuru babiri bari muri siporo bose bari kurambura amaboko bishimye kandi baseka, umwe yambaye agapira kajya gusa kake undi yambaye agasengenge k'umweru, ahantu bari hari ubusitani ndetse hari n'ibiti birebire aho aba bakecuru bigaragara ko bishimye cyane.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara, afite imvi nyinshi cyane ku gahanga, yambaye amarinete, ndetse yambaye na ekuteri, afite utuntu mu ntoki zombi, turi kumufasha gukora siporo, ari kugorora amaboko yiwe, inyuma yiwe ikirere kirasa ubururu, ndetse n'umweru, hakaba hari n'ibimera.

Umukecuru bigaragara yuko akuze, yambaye agapira k'ubururu, akaba ari mu nzu nziza cyane, ku nkuta hasize irangi ry'umweru ndetse no hejuru hakaba hasa umweru, afite ikirahure mu ntoki cy'amazi ndetse akaba yambaye n'amarinete, ari kunywa imiti ariko ashinyiriza.

Umupapa wavunitse ari kumwe n'umuforomo uri kumukoresha siporo gake gake, yamuhaye utwuma ngo atugenderemo atambuke gake gake, yitoze kugorora akaguru kugira mu minsi mike azaba atambuka nk'uko byahoze.

Umusaza wicaye hasi, hari umuforomokazi uri kugenda umwitaho, amufasha kugenda yigorora ndetse umusaza na we ari kubikora nk'uko umuforomo ari kubimwereka bagakurura akantu, inyuma yabo hari undi mukobwa mwiza wicaye hasi.

Ababyeyi bakuze bari muri siporo, bari guterura utuntu maze bagaseka, barakuze cyane kuko n'amasura yabo arabigaragaza. Ni byiza gusaza wishimye kandi ukora siporo kuko ubuzima bwawe uba uri kugenda ubushyira mu cyerekezo cyiza.

Umumama ukuze ari kumwe n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo yicaye ku buriri arimubwira ati igorore gake gake ari kumuha akantu maze akagorora amaboko iyo umuntu akuze aba akeneye umuntu wo kumwitaho kugira ngo agire amasaziro meza.

Ubuvuzi bwegerejwe abaturage. Angahe rero hari abaganga bambaye impuzankano y'abaganga bakaba begereye abaturage abaturage bari ku murongo bari gutambuka maze ugeze mu ihema akicara hasi muganga akareba mu kanwa ke kugira ngo amusuzume uburwayi bwo mu kanwa.

Umugabo ndetse n'umumama bafashe icyapa bose bari kugaragaza ingamba zafashwe kugira ngo abaturage bakomeze kwirinda indwara z'ibyorezo, rero bari gukangurira abantu bose kuguma mu rugo ndetse no kwitwararika.

Icyapa kigaragaza amagambo yanditse mu ibara ry'umweru aho bavuga ngo bagomba kurwanya mikorobe ku isi yose, kandi iki ni icyumweru cyahariwe ubwiza mu Rwanda; aya magambo yanditswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.

Abapapa ndetse n'abamama hakaba harimo n'abakobwa bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gufata ingamba zigiye zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima ,hejuru hari ikirangantego cya repubulika yu Rwanda.

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba ko igiye guhugura abaganga benshi cyane bakaba inzobere maze bakajya bavurira abaturage ku gihe. Aha rero turi kubonamo abaganga bambaye impuzankano bigaragara ko bari mu mahugurwa kandi bari gusobanukirwa.

Aba ni abantu bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, bamaze gukora inama bagahugurana ku bijyanye n'ubuzima bafata n'ingamba kugira ngo buri muturage wese agire ubuzima bwiza, hari icyapa cy'ubururu kibari inyuma.

Umupapa wambaye ikote ry'umukara yambaye karuvati imbere ye hari indangururamajwi ndetse inyuma ye hari icyapa kiriho foto y'iwe bikaba bigaragaza ko iyi ari inama yabahuje kugira ngo bafate ingamba ku bijyanye n'ubuzima kandi iyi nama ikaba yarabaye mu wa bibiri na makumyabiri na kabiri.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe harimo abazungu ndetse n'abirabura, bari guhabwa ibiganiro ndetse bagafata n'ingamba ku bijyanye n'ubuzima, aho RBC ivuga y'uko tugomba gukora ibishoboka byose buri muntu akagira ubuzima.

Ababikira batatu, bari kumwe n'umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati, bari gusuhuzanya, bahagaze imbere y'icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, aho bagaragaza minisiteri y'ubuzima n'ibyo izakora muri iki gihembwe.

Umukobwa w'umwirabura wambaye ibaji mu ijosi ari kumwe n'umugore w,umuzungu nawe wambaye ibaji mu ijosi akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, na congo z'umukara, bahagaze mu ivuriro bamaze gufata ingamba ku bijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi uri guhoza umwana we, aramuteruye, bari kurebana. Arenda kumuha ibere kugira ngo yiyonkere maze agire ubuzima bwiza. Izi ni ingamba zafashwe na leta ko buri mubyeyi akwiye guhabwa ifu ya ongera, maze akonsa umwana we neza mu gihe cy'iminsi igihumbi ya mbere.

Umuforomokazi ufunze igipfunsi ahagaze ahantu hamwe aremye ari kugaragaza yuko yahagurutse kandi yafashe ingamba zo kurwanya indwara iyo ari yo yose ndetse no kuvurira abaturage ku gihe.

Umusore ndetse n'inkumi bari kwifotoza, iyi foto bayifashe nk'iyurwibutso kuko bigaragara y'uko bari bamaze gukora amahugurwa mpuzamahanga, bagafata ingamba ku bijyanye n'ubuzima barangiza bagafata ifoto kugira ngo bitahire.

Icyapa cy'ubururu giteretse ahantu hasa umweru, hariho amagambo yandikishije ibara ry'umweru aho bagira bati:"guteganyiriza umuryango", ibingibi bikaba byaratanzwemo raporo, ibingibi rero, bikaba bimaze imyaka icumi.

Abapapa babiri bose bambaye amakoti, amashati, ndetse n'amakaruvati, bose bafite ibitabo mu ntoki, bigaragara neza yuko bamaze kuganira, no kungurana ibitekerezo, ndetse no gufata ingamba ku icyateza ubuvuzi imbere.

Umugabo wambaye ikote ndetse na karuvati ahagaze ahantu bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame, imbere ye hari indangururamajwi, kamera ndetse n'isazamajwi, inyuma ye hari icyapa gishushanyijeho ifoto ye akavuga ko iryo ari ihuriro rya kabiri ryiga ku bijyanye n'ubuzima.

Abasore babiri ndetse n'abakobwa babiri bombi bari kwifotoza, bose bafite udukingirizo mu ntoki aho bagira bati mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina, banza wibuke agakingirizo kugira ngo wirinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abantu benshi cyane bari mu muhanda biragaragara cyane ko bari mu mahugurwa ndetse no mu bukangurambaga ku kijyanye no kwirinda indwara ya sida, aho bagira bati rubyiruko nimwe hazaza heza h'u Rwanda irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu hamwe bigaragara ko ari abayobozi. Bakaba basoje inama yari yabahuje yiga ku bijyanye n'ubuzima bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Hakaba handitsemo amagambo yandikishije iba ry'icyatsi kibisi.

Aha ni kwa muganga rero nk'uko tubizi leta y'u Rwanda yafashe ingamba yo gukingira buri muturage covide cumi n'icyenda, abantu barabyitabiriye barabakingira aha rero nahobo bari gutanga urukingo rw'indwara.

Akapa k'icyatsi kibisi kakaba gashushanyijeho umutima ndetse n'akarongo kavunaguye hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru habanza umubare gatatu maze bakavuga bati ubuzima bwiza ndetse n'imibereho kuri bose ibi nubyumva wumve ko nasemuye.

Abantu benshi cyane bambaye imyenda isa hejuru, bambaye imipira y'umweru irimo ikirangantego. Bafite ibyapa mu ntoki bivuga biti twirinde kanseri y'ibere, kanseri y'ibere ni imwe mu ndwara zihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange.

Umukobwa ufite indangururamajwi ahagaze imbere y'insakazamajwi, kaba bigaragara ko ari gutanga imbwirwaruhame, ndetse yibutsa abari muri iyo nama ingamba zafashwe zo kwirinda uburwayi bugiye butandukanye cyane cyane indwara z'ibyorezo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iteraniyemo abantu bagiye batandukanye, bari bari mu mahugurwa ndetse bafata n'ingamba, k’uburyo bashyira mu bikorwa ibijyanye no kurinda ndetse no gusigasira ubuzima bwa muntu. Bose barishimye kandi bigaragara yuko bafashe ingamba zihamye.

Inyubako y'ivuriro isize irangi ry'umweru ikaba yubakishije amatafari ahiye, hari abantu bicaye hanze imbere y'ameza ariho igitambaro, ndetse hari n'abandi barimo imbere hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'umukara agira ati:"inzu y'ababyeyi".

Inyubako y'ivuriro. Mo imbere turabonamo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga. Harimo ibitanda, intebe, utumeza, ndetse n'ibindi byuma birebire byifashishwa mu gihe bari gukora ubushakashatsi bwimbitse.

Inyubako nziza cyane, iyi nyubako ni iy'ibitaro, hakaba hari inkuta nziza cyane z'umweru, parafo ni umuhondo, harimo akuma gatanga umuyaga, ndetse harimo n'inkuta, ahangaha hakaba harimo n'intebe abantu bicaramo mu gihe bategereje muganga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro haragaragaramo inkuta zisa umweru ndetse harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Hasi harata icyatsi, ahangaha rero ni ho abantu babasuzumira bakareba uburwayi bafite.

Inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi, turi kubona inyubako nziza cyane ifite amabati y'ubururu, iteye amarangi y'umweru ku nkuta, ifite amadirishya y'ibirahure, imbere yaho hari akuma keza cyane kameze nk'imashini.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubona abantu batatu bari kujyayo ndetse hari n'abandi bariyo, harimo ubusitani bwiza cyane harimo ibiti birebire ndetse n'indabo ngufi hasashi amapave hasi ndetse hari n'icyapa kigaragaza iryo vuriro.

Inyubako nziza cyane ifite irangi ry'umweru, ikaba ifitemo ibikoresho bigiye bitandukanye. Iyi nyubako ni iy'ivuriro. Harimo udukoresho twifashishwa hasuzumwa ibizamini, hakaba harimo n'indege zifashishwa bohereza amaraso ava ku bitaro bimwe ajya ku bindi.

Inyubako nziza yo kwa muganga ahangaha rero harimo igikoresho cy'ikimashini kinini cyane bifashisha basuzuma umurwayi aho bamuryamisha ku gatanda kariho maze akareba mu mashini uburwayi afite akabona uko amuvura.

Inyubako y'ivuriro mo imbere harasa umukara, nk'uko tubibona hari utubati tugiye dutandukanye dushyirwamo amaraso iyo umurwayi akeneye amaraso baza muri iki cyumba maze bagakuramo igisashi kimwe bakagenda bakakimuha.

Inyubako y'ivuriro n'imbere hari intebe nziza cyane, ameza ndetse harimo ni sima, ku nkuta hasize irangi ry'umuhondo hagiye hometseho udupapuro tugaragaza serivisi zihatangirwa ndetse n'amasaha zitangirwaho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igeretse inshuro enye, haparitsemo amamodoka menshi ndetse uruzitiro rwayo rwubatswe n'indabyo ndetse n'imikindo. Iri vuriro rero ryivurizwamo n'abantu bagiye batandukanye kandi bagakira vuba.

Inyubako nziza cyane kwa muganga aha turibonamo amaitajeri arimo imitigi itandukanye, aya mayitajeri iburyo igeretse gatanu ndetse n'ibumoso igeretse gatanu, hakaba harimo imiti iri mu dukarito bagenda baha abarwayi kugira ngo bakire vuba.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Hari umugabo wicaye aho bategerereza, akaba afite telefoni mu ntoki ayirangariyemo. Ndetse hari n'undi bari kwakira ari kugenda abaha ibyo bari kumusaba, nabo bamwuzuriza umwirondoro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite amarangi meza cyane isakaje amabati y'umutuku, hafi aho ngaho hari ibyapa bigaragaza gahunda z'iri vuriro, igihe bavurira, igihe basurira, hakaba hari ibiti byiza cyane ndetse n'indabyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, turi kubonamo ibyo bifashisha basuzuma kugira ngo barebe indwara umuntu arwaye, tukabonamo intebe ndetse n'amezaza bicaraho, inkuta zirasa umweruru, parafo irasa umweru, hasi hakaba hari amakaro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igizwe n'inkuta zisize irangi ry'umweru, parafo y'umweru ndetse harimo n'amatara, hari abantu bicaye mu ntebe zirimo, aho bategereje ubufasha, aba rero bategereje kuvurwa kuko bararwaye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye ni sare ndende irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga utabara ngo urangize. Ifite purafo nziza cyane y'umweru ndetse no hasi hasa umweru, ahangaha rero uhivurije uba wivurije ahantu heza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igeretse kabiri ikaba yubakishije amatafari ahiye imbere hari ubusitani bwiza cyane ndetse buteyemo n'ibiti utuyira dusashemo amapave nk'uko bigaragara iyi nyubako ni nziza cyane ikirere kirasa ubururu.

Inyubako y'ivuriro iri ahantu ruguru y'igiti kinini cyane cy'umuvumu cyakuze neza, hari umugabo wicaye munsi y'icyo giti ku mabuye ahubatse, aha rero uyu mugabo akaba yaje kwivuza, yarangiza akaba aje gufata akayaga munsi y'iki giti.

Inyubako y'ivuriro, iyi nyubako ni nziza cyane isakaje amabati y'umukara, mu imbere harasa neza, hakaba haparitse n'imodoka, harimo agahanda ka kaburimbo ku mpande hakaba isima ndetse harimo n'ubusitani bwiza cyane, harimo uturabyo tw'umuhondo.

Inyubako y'ivuriro imbere hasa neza, harimo ibitanda bigiye bitandukanye harimo icyo batwararaho umuumurwayi gihe bamujyanye mu isuzumiro ndetse hari n'ikindi bamuryamishaho, hari n'imashini kabuhariwe mu gusuzuma, inkuta zirasa umweru ndetse harimo n'amarido.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo ibitanda bifite amapine, tukabona amarido atandukanya, igitanda ndetse n'ikindi, ku buryo umurwayi avurirwa mu muhezo, si ibyo gusa kuko harimo n'inzitiramibu hasi hakaba hari amakaro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igereti inshuro enye cyangwa se eshanu. Turi kubona umusekirite uri gufungurira imodoka kugira ngo isohoke, hanze y'ivuriro hicaye umuntu ku ntebe ya palasitike y'umweru ndetse hari na rigore. Iri vuriro rikaba ryivurizwamo n'abantu bagiye batandukanye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta nziza cyane zisize amarangi y'umweru, hasi hakaba hari amakaro mo imbere harimo intebe bicaramo mu gihe barindiriye muganga. Ahangaha turi kuhabona amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ariko yo yandikishijwe ibara ry'ubururu; agaragaza ko ahangaha ari ku rwakiriro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo imashini bifashisha basuzuma abarwayi hakabamo ibikoresho bakoresha babakoresha siporo maze bakabasuzuma neza bakabavura bagakira.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igipima ibizamini bakamenya indwara umuntu arwaye, harimo uturahure tugiye dutandukanye bashyiramo ibizamini ndetse hakaba harimo n'amazi bifashisha mu gupima ibizamini.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Iyi nyubako yubatse neza cyane n'imbere harimo ibitanda. Ibitanda harimo ibiryamyeho abarwayi ndetse n'ibindi bitarimo abarwayi. Harimo umusore ndetse n'umukobwa bari gukora isuku, hakabamo abaganga bari kuvura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iriho ibirahure byiza cyane by'umukara, ku nkuta hasizeho irangi rijya gusa umukara ndetse hari n'akandi kajya gusa umutuku, hakaba handitse amagambo mu ibara rya oranje agaragaza neza icyo bakora ndetse n'indwara bavura.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro hari abantu bicayeho mu kirongozi bategereje serivisi ndetse ni benshi cyane. Ahangaha rero iyo uri kwa muganga urihangana ugategereza, muganga na we akagira vuba, kugira ngo mwese abakire.

Inyubako nziza cyane, iyi nyubako ni ivuriro. Harimo ubusitani bwiza cyane. Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, kuko nta handi hantu wayibona. Rero mu Rwanda rwateye imbere ku buryo twubabaka amavuriro umuntu uwariwe wese areba akaryishimira.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umuhondo, ikaba yubakishije amatafari ahiye. Harimo imirongo y'umweru, hasi hasashe amapave, hari amatara meza cyane yo ku muhanda ari ku mapoto maremare, harimo ubusitani bwiza cyane burimo indabyo zitagira uko zisa, ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite inkuta nziza cyane z'umweru hasi hari amakaro, hano aho bakirira abantu hari intebe nziza cyane izisa ubururu ndetse hari n'izisa kacye, aha rero ni mu ivuriro ryiza cyane rigezweho ry'abakire.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha ngaha ni mu isuzumiro aho bakuryamisha kuri iki gitanda, maze iki kimashini kiri hejuru kikabereka uburwayi ufite, ndetse hari n'agatebe muganga yicaraho mu gihe ari kugusuzuma.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe amatafarihiye, ikaba ifite irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hari abantu bicaye aho ngaho bategereje kuvurwa ndetse hari indabyo nziza cyane, ziri mu mabara y'umuhondo hasi hari isima, ahangaha rero hakaba ari aho basuzumira ibizamini.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, mo imbere harasa neza cyane, harimo indabyo, hakabamo intebe nziza cyane z'ubururu ndetse n'iz'umuhondo, parafo isa umuhondo, hanyuma inkuta zo zisa umweruru, aha hantu ni heza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro aha ni mu imbere, harimo ibitanda by'abarwayi, hakabamo amarido, inzitiramibu, amatara ndetse hasi hari isima, hasizemo irangi ijya gusa icyatsi ariko kikaba ari icyatsi cyerururutse, harimo n'umuforomo wambaye impuzankano y'icyatsi.

Iyi ni inyubako y'ivuriro aha ngha rero bakaba bafashiriza abantu bahuye n'ibibazo by'ihungabana, ndetse ibi ni ibitaro biherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye, bikaba ari ibitaro bya Kabutare.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ikaba ifite inkuta z'umweru, amadirishya, inzugi byose biriho ibirahuri, harimo icyuma kabuhariwe gipima indwara zose zigiye zitandukanye aho bakuryamishaho maze bagahita bamenya uburwayi urwaye.

Inyubako yo kwa muganga, harimo umuganga uri gutera umusore urukingo, uru urukingo rero akaba ari kumukingira indwara, leta y'u Rwanda ihora ishyira imbaraga mu bijyanye no gukingira abaturage bayo kugira ngo bahorane ubuzima buzira umuze.

Aha ni mu nyubako y'ivuriro, hari ibintu bitari ku murongo bigiye biteye hejuru, hari utwumba basuzumiramo amenyo, aha ngaha rero muganga akwicaza ku gatanda maze nawe akicara ku ntebe, maze akagusuzuma.

Inyubako nziza cyane turabonamo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibi bikoresho byose byifashishwa igihe bari kuvura abarwayi harimo udutanda, hakaba harimo n'ibyuma biterura ndetse n'ibindi bipima aha muri iyi nyubako, harimo ibikoresho byiza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, irimo ibitanda byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ahangaha niho bashyira abarwayi bagiye kuvura baba mu bitaro. Harimo amarido meza cyane atandukanye umurwayi ndetse n'undi, hasi hakaba hari sima nziza, hejuru hari amatara ameze neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha ngaha ni aho basuzumira abarwayi, harimo igikoresho kiza cyane, iki gikoresho muganga akikuryamishaho, maze yareba mu mashini agahita amenya uburwayi ufite, ndetse turi kubona n'utu etajeri bashyiramo ibikoresho.

Aha ni ahantu hacururizwa imiti nkuko tubibona haparitse moto yicayemo umumotari wambaye kasike, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero aha hejuru y'iyi farumasi hariho icyapa cyayo kigaragaza izina ryayo ndetse n'ibigo by'ubwishingizi ikorana nabyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro irimo bikoresho bigiye bitandukanye turi kubonamo ibitanda byiza cyane, tukabonamo utubati twiza cyane ndetse turikubonamo n'intebe nziza cyane harimo n'amagare, ahangaha rero hasi hari isima nziza cyane.

iInyubako y'ivuriro, iyi nyubako irimo ibitanda ndetse n'intebe, nk'uko bigaragara aha ngaha niho batuzumira ibizamini, inkuta zirarasa umweruru hasi hari amakaro, aha ngahe umurwayi araza bakamuryamishaho maze bakamusuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ahangaha rero turi kubona icyapa kiri kuri geti, aho bagaragaza yuko ari mu bitaro bya Kabgayi, harimo inyubako zigiye zitandukanye, ndetse hari n'amatara amurikira abantu bahaje, hakaba hari n'ibiti bigiye bitandukanye bitanga umuyaga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iyi nyubako imbere yayo haparitse imodoka nyinshi cyane zigiye zitandukanye, hari ibyapa bigiye bitandukanye, hakaba hari n'abantu baje kwivuza bayirimo, iyi nyubako yubakishiwe abaturage kugira ngo bayivurizemo.

Inyubako y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe cya siporo. Ahangaha rero iyo uje kwa muganga wavunitse cyangwa se muganga yagusuzuma akabona utajya ukora siporo ashobora kukuzanamo maze akagufasha ugakora siporo.

Iyi ni inyubako y'ivuriro harimo umuntu uryamye hasi wambaye ikanzu ngufi, hakaba hari umumama ndetse n'umupapa bari kumufasha, ku rukuta hasize irangi ry'umweru akaba aryamye ku gitanda bari kugenda bamufasha kugira ngo barebe ko yakira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Ibi bikoresho rero, bakaba aribyo bifashisha binjiza abarwayi mu ivuriro, ndetse harimo n'ibyo bifashisha bari kubasuzuma. Iri vuriro ni ryiza cyane kandi rifite ibikoresho bihagije.

Inyubako y'ivuriro imbere yaboho turikuhabona icyapa kinini cyane kigaragaza amasaha akazi gatangiriraho, amasaha yo gusura mu gitondo ndetse na nimugoroba, tukabona akayira karimo kaburimbo ku mpande hagiye haririgori itwikiriye, iyi nyubako rero ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro igereretse inshuro ebyiri harimo abantu baje kwivuza, imbere yabo bateye indabyo nziza cyane nk'uko bigaragara rero hari amagambo y'umukara yanditse mu ibara ry'umweru agira ati ikigonderabuzima cya Nyaruyenzi.

Umunyeshuri wicaye ku ntebe muganga ari kumusuzuma arimo arabamusuzuma umuvuduko w'amaraso, inyuma ya muganga hari akabati abikamo ibikoresho ndetse n'imiti uyu munyeshuri yateze bari kumusuzuma ngo barebe ko nta burwayi afite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho bijye bitandukanye byo kwa muganga, harimo igitanda kiriho matera hakaba harimo akabati karimo imbuto zigiye zitandukanye, hakaba harimo n'imashini yifashishwa mu gihe bari gusuzuma abarwayi.

Umuganga ufite mudasobwa imbere ye. Hirya hari indi mashini, akaba ari kurebamo ibizamini yasuzumye, kugira amenye neza niba umurwayi nta burwayi afite. Nk'uko bigaragara, ari kwitegereza neza, kugira ngo atibeshya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubona urukuta rwayo rwubakishije amatafarahiye, tukabona harimo n'ibyuma bigiye bimeze nk'amadirishya, inyubako ni nziza cyane ndetse hakaba hari n'imyicundo abana baje kuryivuriro bicundaho, kugirango barusheho gukomeza kwishima.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, ahangaha rero iyi nyubako isize irangi ry'umweru, ikaba isakaje amabati y'umuhondo ndetse mo imbere harasa neza cyane, hari amagambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse hakaba hari n'abantu bicayemo bategereje serivisi bahabwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro bigaragara ko yuzuye vuba, yubakishije amatafari ikaba isize irangi ry'umweru, uruzitiro rwayo ni ibyuma bisize irangi ry'umutuku, hakaba hari abantu bari kuyitegereza ndetse bari kuyitambuka iruhande bigaragara ko imirimo yo kuyubaka itararangira kuko hari n'abantu bambaye imyenda y'akazi bari hafi aho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, akaba afite agacupa mu ntoki ari ku cyuma kimeze nk'imashini ari gukanda imibare areba ku icupa kugira arebe niba uwo muti wujuje ubuziranenge.

Ni inyubako nziza cyane yo kwa muganga. Turabona umuntu mu imbere ndetse hakaba hari imkuta nziza cyane zisize amarangi y'ubururu ndetse n'umuhondo, izi nyubako ni nziza, Leta irazubaka kugira ngo itunge amavuriro meza cyane akeya.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura inkuta zisa umweru ndetse harimo n'inkingi mo imbere hakurya turahabona imisozi ituwemo n'abaturage kuko hari amazu menshi cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iri mu busitani bwiza cyane kuko harimo ibiti birebire, pasparum ndetse n'indabyo ntoya, ndetse har’abantu bari kwifotoreza ku cyapa, harimo n'abazungu. Bigaragara ko ari ibitaro bya Butaro mu karere ka Burera.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo ibitanda byiza cyane ndetse n'imisego bikababishasheho ndetse bikaba bifite n'amapine. Inkuta ziriho irange ry'umuhondo ndetse parafo ni umweru, hasi hakaba hari amakaro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, hari abantu bari kuyifotoreza iruhande higanjemo abazungu, aba rero bakaba bari kwifotoreza ku bitaro bya Rwamagana, hari umukindo mwiza cyane ndetse n'uturabyo twiza, ibi bitaro rero aba bakaba ari abaterankunga babyo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turabona parafo nziza cyane ikoze mu mbaho zisa na kake tukabona inkuta nziza ziriho irangi ry'umweru ndetse n'umukara hasi ni amakaro ahangangaha bahakirira abarwayi bakabavura bagakira vuba.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, harimo amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, aha hakaba harimo amarido meza cyane, hasi harasa neza cyane harasa umweru, nkuko bigaragara iri vuriro ni iry'abakire, kandi ryivurizwamo n'abifite.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, aha rero habera ubucuruzi, harimo farumasi, haparitse umu motari wambaye kasike, hakaba hari umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ingofero, hejuru kuri iyo nyubako hariho icyapa cyerekana izina ry'iyo farumasi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi ikorana na byo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo intebe nziza cyane tukabonamo ameza, ndetse hari n'amavase arimo indabyo, aha rero naho bakirira abantu maze bakabasuzuma barangiza bakabaha imiti.

Iyi ni inyubako y'ivuriro. Bigaragara ko aha ngaha ariho bavurira abana, harimo udupupe tugiye dutandukanye n'amarangi agiye arimo amabara agiye atandukanye, harimo intebe nziza cyane z'ubururu ndetse n'izindi z'imisego nini.

Inyubako nziza cyane isize amarangi y'umweru, ndetse ikaba isize n'irangi ry'umukara, hakaba handitseho amagambo yandikishije irangi ry'umweru, agira ati ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, aha rero hateye indabyo nziza cyane, hashashemo amave ni ahantu heza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifite amadirishya y'umuhondo, ikaba ifite uruzitiro rukoze mu byuma by'umukara mu imbere harimo igiti kirekire hakabamo n'ubusitani ndetse n'indabyo nziza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, iy'inyubako ni nziza bigaragara yuko ifite amagorofa cumi n'abiri, ahangaha rero hakaba hari icyapa kibigaragaza, kikagaragaza na serivisi batanga, kandi iri vuriro rigezweho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turabona abantu benshi cyane barwariye yo bagiye baryamye ku bitanda bihari ndetse biriho matera, hakaba harimo inzitiramibu ndetse n'amatara, leta y'u Rwanda yashyize amafaranga menshi mu mavuriro kugira ngo amere neza.

Inyubako y'ivuriro yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje amabati y'ubururu, hakaba haribo icyapa kiriho igishushanyo cy'ijisho bigaragara ko bahavurira amaso, hari indabyo nziza cyane zisa umuhondo, ndetse hasi hasasha amapave m'utuyira abantu banyuramo.

Inyubako y'ivuriro ikoze mu ihema, bashyizeho igitambaro cy'umweru ndetse n'icyatsi, hari umwana uri gusunika umugabo wicaye mu kagare, ndetse hari n'umukobwa wambaye agapira k'umweru n'umukara uri kubasanganira aje kubakira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro imbere turi kuhabona n'icyapa kigaragaza ko hari ibitaro bya Nyanza ndetse aho binjirira ha urugi rukozwe mu byuma rukaba rusize irangi ry'ubururu. Mo imbere harimo ibiti byiza cyane ndetse n'inyubako nziza cyane.

Iyi nyubako nziza cyane yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Harimo intebe muganga ashyiramo umurwayi mu gihe agiye kumusuzuma, hakabamo imashini yifashishwa mu gihe amusuzuma ndetse hari n'isaha imanitse ku rukuta.

Iyi ni inyubako y'ivuriro ni nziza cyane ndetse hateye ubutani bwiza cyane hari n'igiti giteye hagati mu mapave, aha ngaha rero ku ruhande hagiye hubatse utuntu abantu bicaraho, aha ngaha ni mu ivuriro ry'akarere ka Nyarugenge.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo amarangi meza cyane ayo marangi asa umweru ndetse n'umuhondo hasi hasa umweru bigaragara ko ari amakaro, iyi nyubako yubatswe n'abantu kugira bavurirwe heza kandi bagire igikorwa remezo kiboneye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Mo imbere harimo irangi ry'umweru. Ndetse harimo n'ibikoresho bakoresha bigiye bitandukanye. Aha harimo igikoresho kinini cyane gisuzuma abantu umubiri wose. Aho muganga akuryamishaho akamenya uburwayi ubwo aribwo bwose ufite. Ndetse harimo n'ama etajeri bashyiramo ibikoresho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro ifite ibirahure byiza mu imbere hakaba harimo amakaro, ku nkuta hagiye hariho ibishushanyo bigaragaza serivisi zitangirwaho, aho wanyura n'aho wabariza bitewe n'icyo uhakeneye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Ni ivuriro ryiza cyane rigezweho. Haparitse amamodoka menshi cyane ndetse harimo umugabo uri kugenda yereka abaje ako kanya aho baparika. Inyubako igeretse kane. Ikaba ari ivuriro rigezweho.

Umuganga wambaye impuzankano y'abaganga ndetse akaba afite icyumvirizo, ari imbere y'abana bigaragara ko agiye kubasuzuma, ni byiza ko abaganga begera abaturage, kugira ngo babavure ku gihe kandi babasuzume bitabaye ngombwa ko bagera kwa muganga.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro mu imbere turabona ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa harimo intebe, hakabamo utubati ndetse n'ameza ndetse harimo na mudasobwa abaganga bifashisha iyo bari gusuzuma abarwayi aha rero harivurizwa.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro imbere hateye amarangi meza cyane y'umweru barafo ni hejuru hari akuma gatanga umuyaga hasi hari intebe nziza cyane ndetse n'ibitanda abaganga bifashisha mu gihe bageze abarwayi babasuzumira iyi nyubako irakeye.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro iyi nyubako bigaragara ko ari shyashya kuko yubatse neza ibirahuri by'umukara ndetse hakaba hari utubara tw'umweru ku nkuta hariho irangi ry'umweru ikirere ni cyiza cyane, kirasa n'ubururu ndetse n'umweru, hafi aho hari umukindo mwiza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubonamo amarangi meza cyane ateye ku nkuta tukabona purafo nziza cyane ndetse n'amatara meza, hasi hari sima ikomeye cyane hakaba harimo ibikoresho byifashishwa cyane mu kuvura abantu bigiye bitandukanye kandi bigezweho.

Inyubako y'ivuriro yubatse neza, ifite inzugi nziza ndetse n'amadirishya meza, isize amarangi y'umweru, hejuru hari amagambo yanditseho, yanditse mu ibara ry'ubururu, si ibyo gusa, imbere yaho hari imikindo myiza cyane, ndetse n'indabyo zimeze neza.

Umugabo wambaye ishati ya makarokaro iciyemo uturongo yambaye ibaje mu ijosi. Ari kumwe n'umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi akaba ari kumusuzuma ngo arebe niba nta burwayi afite. Hejuru yabo hari kizimyamwoto ndetse imbere yabo hakaba icyapa cyanditseho irembo.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubona inkuta nziza cyane z'umweru barafo n'umweru ndetse hariho amatara, hakaba hari utwuma dutanga umuyaga ndetse hasi hakaba hari ibikoresho abaganga bakoresha iyo bari mu kazi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro mo imbere ku gikuta hari irangi ry'umweru , ndetse harimo umuganga wambaye impuzankano y'abaganga , akaba arimo areba ibintu. Nk'uko bigaragara rero aha ni mu isuzumiro bakaba bari gusuzuma ibizamini.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo ibishushanyo bigiye bitandukanye, hakabamo ibitanda ndetse n'utumeza, ibi bitanda muganga abyicaraho mu gihe ari kuvura abarwayi, ariko iyo ari gusuzuma yicara ku gatere kugira ngo isuzuma rye rigende neza.

Inyubako nziza y'ivuriro igeretse gatatu ,n'imbere haparitsemo imodoka ,hakaba harimo ibendera ry'igihugu .Aha rero muri iyi nyubako bakaba bavura abantu bose upfa kuba uhageze urwaye ,bakwitaho maze ugataha ubirahira.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo umuganga uri ahantu hasa nk'ahijimye ukuntu hasa umukara, hakaba harimo icyuma kinini cyane gisa umweru kirimo n'utubara tw'ubururu, iki cyuma bakifashisha bari gusuzuma abarwayi.

Iyi nyubako yo kwa muganga irimo ibitanda byinshi cyane baryamisha y'abarwayi ndetse bigiye biriho n'imiti prafoto isa umweru hasi hari amakaro kaba hagiye harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga inyubako ni nziza kandi ivurirwamo abarwayi.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga harimo ibitanda, biriho matera, ibi bitanda bisa umweru bikaba birimo utubara tw'ubururu nabyo bisa neza ndetse hari n'utubati turi mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu aha hasi hakaba hari amakaro.

Iyi ni inyubako y'ivuriro harimo umugabo urimo uzinga inzitiramibu, ndetse n'umurwayi uryamye mu gitanda, aha ngahe muri iyi nyubako inkuta zirasa umweru hejuru hariho parafu y'umweru ndetse hakabamo n'amatara.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro iragaragara neza cyane, harimo abantu bahagazemo ndetse iyi nyubako yubatse hepfo n'urugo, hagati hakaba harimo ubusitani bwiza cyane hakaba harimo n'igiti kinini cyane ubona ko aha hantu ari heza.

Iyi ni inyubako y'ivuriro yubakishije amatafari ahiye ikaba ifite inzugi ziriho ibirahuri. Hari amagambo yandikishije amabara agiye atandukanye; umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse hagiye hariho n'udukamera tw'umuhondo ndetse n'umukara.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, inkuta zirasa umweruru, parafo irasa umweru, hasi hari amakaro, hagiye harimo ibirahure mu imbere. Iyi nyubako rero bayivuriramo abantu ariko babakire kuko nk'uko bigaragara ni nziza cyane ku buryo bushoboka.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo buzengurutse, izengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma by'umukara hasi hari ubusitani bwiza cyane hari pasiporume ziteyemo imikindo ndetse hari utuyira dushashemo amapave hakurya hari imisozi miremire.

Inyubako y'ivuriro iyi, nyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya kijyambere. Harimo umama urwariyemo, aryamye ku gitanda, yiyorosha amashuka, ariko ari kureba cyane ngo arebe uko muganga amusuzuma, kuko hano kugaragara nkaho ari mu isuzumiro.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Turi kubona intebe abantu bicaramo, hasi hari amakaro, inkuta zirasa umweru, parafo igasa umweru. Harimo urukuta rusa icyatsi kibisi, ndetse hakaba n'akapa kagaragaza icyumba cyakirirwamo indembe.

Abo mu mubiri b'abakecuru hari umuganga ubicaye imbere, bose ari kubasuzuma kugira ngo arebe ko nta kibazo bafite. Aba rero baje babasanga imbere hanze ku nyubako y'ivuriro, hari ibiti byiza cyane by'icyatsi kibisi bari gufata akayaga.

Umumama ndetse n'umuforomo bahagaze mu ivuriro, iyi ni inyubako yivuriro rwose nk'uko mbivuze, uyu mumama yabyaye ateruye akana ke, umuforomo yabyishimiye kuko yagize amahirwe yo kumubyaza maze akabyara neza.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, ku nkuta hari irangi ry'umweru, hakaba harimo ibitanda bigiye bitandukanye baryamishaho umurwayi mu gihe bagiye kumusuzuma ndetse hakaba hari n'utundi bashyiraho serumu cyangwa amaraso mu gihe bagiye kuyamuha.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro turi kubona umukobwa, uyihagaze imbere umeze nk'uri kwifoto, harimo amakaro meza cyane isize irangi ry'umweru ndetse n'amagambo, yandikishije ibara ry'umukara iyi nyubako ikaba ari nziza cyane kandi ikaba igezweho.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo umuganga wicayemo imbere, akaba arindiriye abantu avura. Iyi nyubako ni nziza cyane, ifite amarangi y'umuhondo, hakaba hari amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, iyi nyubako rero ni nziza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro. Harimo umukobwa uri kugendera mu kagare. Hakaba ndetse ubusitani bwiza cyane, hari ikigega giteretsemo, hari n'undi muntu wambaye agashati k'umuhondo, hakurya hari imisozi miremire bigaragara ko aha hantu ari mu cyaro.

Inyubako y'ivuriro irimo abantu bambaye imipira igiye isa, abambaye iy'imihondo irasa, ndetse n'abambaye iy'umweru irasa, bicaye mu ntebe nziza z'icyatsi kibisi zifite amapine. Ahangaha rero bakaba bari kubasobanurira ibijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo icyuma bifashisha basuzuma abarwayi aho bakuryamishaho muganga ugahita amenya uburwayi ufite ubwoya bwose mu mubiri, inkuta zisize irangi ry'umweru ndetse na kaki hasi hakaba hari amakaro, hanyuma hejuru hakaba hari ibyuma byikaraga mu gihe muganga ari gusuzuma.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, turi kubonamo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho mu ivuriro bakoresha harimo udutanda, harimo utumamashini dupima abarwayi ndetse n'intebe aha ngaha rero iri vuriro rifite ibikoresho byuzuye.

Inyuubako y'ivuriro mo imbere turi kubona umugabo uryamye ku gatanda munini cyane aryamye mu isuzumiro kuko harimo ibikoresho bigiye bitandukanye aho rero bigaragara yuko bari kumusuzuma yambaye n'agapfukamunwa.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga imbere turi kuhabona icyapa kigaragaza gahunda zaho zose uko ari nyinshi ndetse hakaba hari n'indabyo n'ubusitani bwiza. Yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu inyubako ni nziza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro, mo imbere harimo inkuta zisizr irangi ry'umuhondo, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari gusuzuma, hari icyuma kiri hejuru aho bazana umurwayi bakamuryamisha kuri iki gitanda, maze ako kanya bagahita bamenya uburwayi afite.

Inyubako y'ivuriro hakaba hicayemo abantu benshi cyane bagiye batandukanye baje kwivuza, imbere yabo hicaye abaganga bari kubakira ndetse hari n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara abageze imbere ari kubaganiriza ababwira serivisi nshya bongereye mu kigo nderabuzima cyabo.

Icupa ry'amazi riteretse hasi, ni amazi meza cyane urebye wagirango ngo afite ibara ry'ubururu ariko ntago ari ko bimeze kuko ni isuku y'ayo, amazi ni ingirakamaro ku bantu bakora siporo, nukora siporo jya ujyana icupa ry'amazi.

Ingobyi batwaraho umuntu wakoze impanuka. Aha ngaha iyo ukoreye impanuka mu kibuga, abakuruwaruje baraza bakazana iyi ingobyi, bakaguterura , bakagushyira ku ruhande, ukaba uhabwa ubufasha bw'ibanze mu gihe imbangukiragutabara itarakujyana.

Umusore wicaye ku gatanda abasuzumiraho, aha rero barimwo baramupfuka aho ukuguru kwe bari kugorora, bakamukoresha siporo gake gake kugira ngo amagufwa asubirane, bigaragara ko yavunitse ari muri siporo ariko na n'ubu baracyazimukoresha.

Ibikoresho bya siporo bigiye bitandukanye biri ahantu mu cyumba icyo cyumba kikaba gifite inkuta zisa n'umweru hakaba harimo ibikoresho bitatu ibi bikoresho byose birakoreshwa aho ufata akariho amapine maze ukajya ukagenderaho.

Aha hari ibikoresho byifashishwa mu gihe cya siporo, ndetse hari n'imbuto umuntu ashobora gufata nyuma y'uko arangije siporo kugira ngo amere neza. Aha hari agapine, hakaba avoka, hakaba pome, hakaba ironji, ndetse ndabona bashyizemo n'urusenda.

Umumama w'umuzungu ndetse n'undi w'umubikira bafite akana mu ntoki. Bari kugenda bakagorora gake gake bagakoresha siporo kugira ngo ingingo zako zikomere maze kajye kabasha gutambuka neza cyane kadategwa kandi ibi bikorwa ku muntu wese w'umubyeyi ufite impuhwe abikorera umwana we.

Umukobwa wambaye agasengeri gato k'umukara afite gurude y'amazi ku munwa ari kuyanywa, afite akabara ibirometero yakoze ukuboko ndetse yambaye n'agapantaro ku mukara, inyuma ye hari ibimera byiza cyane bigaragara ko ari gukorrera siporo ahantu heza.

Agakoresho kifashishwa mu gihe hari gukorwa siporo, aka gakoresho gafite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu aho karambitse ni umweru, aka gakoresho ni ingenzi cyane cyane ku muntu uri kugorora amaguru n'amaboko maze agakomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri muri siporo ari kugorora amaboko, umugongo, ndetse n'amaguru. Imbere ye hari igikuta cy'umweru ndetse hateretse n'indabyo. Siporo ni ubuzima niyo mpamvu urubyiruko, abakuze bose bakora siporo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umusore usoje siporo yicaye hasi, yambaye agapira k'ubururu kamufashe cyane, afite isume ku rutugu, yambaye ekuteri ndetse afite na telefone mu ntoki, akaba ari kunywa amazi aruhuka, siporo n'ubuzima twese tuyikunde kandi tuyikore.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa muri siporo. Turi kubona metero, tukabona udupine bifashisha bakora budamino, tukabona n'akantu bateruza ukuboko kumwe, hari icupa ry'amazi, ushoje siporo unywa amazi, ndetse ukarya na zimwe muri izi mbuto ziri hano. Pome ndetse n'ironji.

Igishushanyo cy'umuntu uri muri siporo, yambaye isengeri ndetse nagakabutura, akaba yambaye inkweto za siporo, akaba afite n'akantu ku kuboko gapima ibirometero yakoze. Aha rero hakaba hari amagambo yanditswe mwibara ry'umutuku ndetse n'andi yanditsewe mwibara ry'ubururu aho siporo ari ubuzima.

Iki ni kimwe mu bikoresho bikenerwa cyane mu gihe umuntu ari muri siporo. Igihe icyo ari cyo cyose ugize ikibazo cy'imvune, uba ukeneye iyi bande kugira ngo ubashe gusubiranya igufwa ryawe vuba vuba maze wihute ku ivuriro bagufashe.

Umukobwa wambaye agasengeri gato cyane k'iroze, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, akaba yambaye isaha y'umukara ku maboko, ari kwigorora cyane, akagorora umugongo, amaboko, imbere ye hari ibintu by'ibibuye, siporo ni ubuzima twese tuzikore.

Iyi ni inyubako ikorerwamo siporo bari kuyubaka, turi kubona umuntu uri hasi ndetse n'undi uri ku rwego, bari kugenda bamuha ibikoresho akubaka, iyi nzu rero nawe imaze kuzura bitewe n'uko ari nziza wagenda ugakoreramo siporo maze ukigira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri muri siporo ari kugorora imbavu amaboko ndetse n'amaguru, yicaye hasi kugakeka imbere yiwe hari indabyo nziza cyane, inyuma hakaba hasa na kake uyu mukobwa akora siporo mu rwego rwo kugira ngo agororoke kandi akomeze kugira ubuzima bwiza.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye yifashishwa mu gihe cya siporo. Aha rero, harimo nka bande, hakabamo ibinya ndetse na pomade, n'ubundi bwoko bw'imiti bugiye butandukanye umuntu ashobora kuba yakwifashisha mu gihe ahuye n'impanuka.

Agakoresho bifashisha bari gukora siporo, gafite amapine ane. Kakaba gafite akantu k'umukara ndetse iyo urebye hari akantu kameze nka Ekara, kaba karimo amashusho, aho uri gukora siporo aba yitegerezamo, yigana urimo, maze na we akikora nk'ibyo akoze.

Igikapu cy'umutuku ndetse n'umweru, iki gikapu kirimo imiti igiye itandukanye wakwifashisha mu gihe uri muri siporo. Harimo ibinya, hakabamo bande ndetse n'andi moko y'imiti wakenera mu gihe ugiriye impanuka muri siporo.

Abasore babiri bakorera Kuruwa-ruje (croix rouge) bateruye umuntu mu biganza. Uyu muntu yakoze siporo arangije yikubita hasi aravunika. Bari kumujyana bamwihutana ngo bamuhe ubufasha bw'ibanze, maze bahamagare imbangukiragutabara imujyane ku kigo nderabuzima.

Aha ni ahakorerwa siporo, harimo umuntu uri kuhategura akaba yicaye imbere y'imashini ari kureba ukuntu hano hantu bazajya bahakora siporo zimeze neza, aha rero harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'utugare, udutanda ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi kibisi afite umupira wo gukina mu ntoki uri umubare kane, uyu mugabo rero akaba akoresha siporo akaba ari nk'umuganga mu ikipe runaka kandi nawe akaba akunda siporo, iyi siporo ni ubuzima.

Umusore uri muri siporo yicaye hasi ari kugorora amaboko, umutwe ndetse n'umugongo. Uyu musore akora siporo cyane kuko birigaragaza. Siporo ni ubuzima, ni byiza gukora siporo kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze kumera neza.

Abaganga bambaye impuzankano, bari mu mahugurwa. Aho bari kwihugura ukuntu wafasha umuntu wavunikiye muri siporo. Aha ngaha rero, iyo umukinnyi cyangwa se undi muntu ari wese ukoze siporo avunitse, bahita bamufashiriza ku gihe.

Ibi ni ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe cya siporo, si ibyo gusa kuko hari n'indyo ushobora kurya mu mu gihe ushoje siporo, hari imigati, hari amagi, hari imineke, hari inkeri, hari agasenda, akadimu ndetse n'agatunguru.

Abasore bari muri siporo harimo uwambaye nomero enye ndetse n'undi wambaye nomero esheshatu. Uyu wambaye nomero enye bamufashe, ahangaha rero baravuga ngo gerageza nawe winjire mu mukino. Inyuma yabo hari ikirahure ndetse ikirere kirasa umweru ndetse n'ubururu.

Umu umukobwa wambaye agasengeri kagufi cyane k'umukara akaba yambaye n'agapantaro k'umukara, umukondo we uri kugaragara afite imisatsi miremire akaba asoje siporo ariko akiri kwinanura, imbere ye hari icupa rya gurude ririmo amazi bigaragara ko ariyo anywa.

Umukobwa wagiriye impanuka muri siporo yapfutse ku ivi, ryiwe hariho agapfuko, nk'uko bigaragara ni muganga wagashyizeho akaba ari kugerageza guhaguruka, kugira ngo agororane runo rugingo maze akire vuba asubire muri siporo ze.

Umusore uryamye hasi usoje siporo, hari umuforomo uri kumugororera ingingo nkuko bigaragara hari urugingo rwe rwavunitse bakaba bari kugerageza kumukoresha gake gake kugira ngo rusubire ku murongo. Ni byiza gukora siporo ufite muganga.

Umusore wambaye agapira k'ubururu yambaye n'agakufi mu ijosi, afite gurude y'amazi, ari kuyanywa bigaragara ko ari muri siporo akaba ari gukora izi siporo abikunze, siporo ni ubuzima nawe urebye uyu musore wabihamya.

Iki ni icyumba gikorerwamo siporo, kikaba kiba kwa muganga, ndi kubona umuforomo wambaye impuzankano y'abaforomo ndetse yaryamishije umurwayi ku gatanda ari kugenda amusuzuma yamuzengurukije insinga zose, kugira ngo amenye ikibazo afite.

Uwo mukobwa uri muri siporo yicaye hasi ari kugorora amaboko ye yambaye agasengeri gato cyane k'umukara ndetse n'agapantaro ,afite utwuma agororesha amaboko, imbere yiwe hari akantu k'agacupa k'amazi ari kugenda akora siporo agasoma no ku mazi.

Umukobwa wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara akaba yambaye n'inkweto za siporo, ari kwigorora cyane ari kugorora amaboko umugongo ndetse n'akaguru aho yambaye akantu ku kuboko ndetse na ekuteri mu matwi ari kugenda yiyumvira siporo.

Agasanduku k'icyatsi kibisi karimo amokogi atandukanye y'ibikoresho umuntu yakwifashisha mu gihe cya siporo, ibi dukunze kubibona ahantu habereye imikino aho abaganga babagafite hakaba haba harimo bande, imikasi, ibinya ndetse na pomade.

Amoko y'imiti ndetse n'ibikoresho wakwifashisha mu gihe uri muri siporo, aha ngaha rero batweretse bande, batwereka ikinya, batwereka pomade ndetse batwereka n'ibindi bigiye bitandukanye ibi nibyo wakwifashisha ukibona ubutabazi bw'ibanze.

Uyu ni umuntu wavunikiye muri siporo. Hakaba hari umuganga uri kumufasha kugorora igufwa rye. Akaba ari kurigorora gake gake, amukoresha siporo, kugira ngo ukuguru kwe mu minsi mike kube gutambuka, nk'uko byari bisanzwe.

Umusore bigaragara ko afite imbaraga ari kugorora ukuguru ndetse n'amaboko ye yombi, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura yicaye hasi. Uyu musore nk'uko bigaragara arishimye cyane kubera ko akora siporo akarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umusore uri muri siporo yicaye hasi ari kwigorora mu ivi ari kugenda agorora gake gake, yambaye impeta ku rutoki ndetse n'akaringa ku kuboko uyu musore rero ari gukora siporo kugira asigasire ubuzima bwe.

Ni igikoresho cyiza cyane gikoreshwa siporo, izi siporo zikorerwa mu nzu, iy'inzu ni nziza cyane ifite urukuta rw'umweru aho ifite amakaru hasi, iki gikoresho rero wacyifashisha ugakora siporo maze ukagira ubuzima bwiza.

Umusore wicaye mu gatebe bari kumukoresha siporo agorora ikirenge, bigaragara ko yari yaravunitse akaguru, muganga akaba ari kumukoresha siporo kugira ngo arebe ko ukuguru kwe kongeye gukora. Aha rero bari mu nyubako ifite irangi ry'umweru hasi hakaba hari amakaro.

Uwo mukobwa uri muri siporo ari gusunika icyuma kiremereye cyane kiri hano, ni mu mbuga nziza cyane isa icyatsi kibisi, akaba yambaye agakabutura k'ubururu ndetse n'agasengengero k'icyatsi, izi siporo ni ingirakamaro kuko zimufasha gukomera.

Umusore bigaragara ko yavunikiye muri siporo. Hari umuganga uri kugerageza kugorora akaguru ke, ubwo ari kuzengutsa bande aho yavunitse. Maze akamukoresha siporo gake gake, kugira ngo mu minsi mike aka kaguru kabe gakandagira nta nkomyi.

Umusore usoje siporo yicaye hasi mu muhanda wa kaburimbo afite icupa ry'amazi mu ntoki ari kurinywa yambaye isengeri, uyu musore bigaragara ko yakoze siporo kuko afite amaboko akomeye ubuzima bwe bumeze neza.

Umusore wicaye ku gatanda k'abarwayi yambaye ikabutura ndetse n'umupira, yambaye urukweto rumwe ku kindi kirenge. Umuforomokazi wambaye impuzankano y'abaforomo ari kumupfuka amupfuka ikirenge kugira ngo igufwa rye rigororoke.

Abakobwa babiri bari muri siporo, bose bafite amagurude y'amazi mu ntoki, bari kwirukanka, bagorora amaguru ndetse n'amaboko, imbere yabo hari ibimera byiza cyane, hakurya hari imisozi miremire bigaragara ko ari ikirunga.

Umusore wavunitse mu ivi ari kurikanda gake gake kugira ngo abashe kugororoka maze agakora agasiporo gake gake kugira ngo azabashe gutambuka maze nawe yongere asubire muri siporo nk'uko bisanzwe.

Inyubako ikorerwamo siporo, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ahangaha rero iyo urwaye umugongo, muganga akuzanamo maze akakuryamisha kuri kino cyuma, ukagenda wigorora gake gake maze ukahava umugongo wakize.

Ikiganza giteruye ibintu ibyo aribyo byose ushobora gukenera mu gihe uri muri siporo. Turi kubona pome, inyanya, avoka ndetse n'urusenda. Tukongera tukabona ikinya, pomade ndetse na bande. Aha rero ibi byose birifashishwa mu gihe cya siporo.

Ubu ni ubukangurambaga bwa siporo mu mikino igiye itandukanye ndetse no muri siporo zigiye zitandukanye; aho bakora uruziga maze buri wese agahitamo icyo ashoboye turi kubona uri guterura icyuma , uri gukina tenisi, uri gutambuka ndetse n'undi uri kunyonga igare.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe cya siporo, turabonamo ga, tukabonamo ibinya, pomade ndetse n'ibindi byose wakenera mu gihe ugiriye impanuka muri siporo, aho bigufasha ukiha ubuvuzi bw'ibanze.

Umusore uvuye muri siporo yambaye ijakete, akaba afite gurude ari kunywa amazi. Yicaye ahantu bigaragara ko ari mu nzu. Uyu musore rero ashobora kuba ari umukinnyi, kuko afite umubiri ukomeye. Siporo ni buzima nawe uzikoze wakomera.

Umukobwa wambaye isengeri afite gurude y'amazi arikuyanywa ndetse afite n'imisatsi nk'uko bigaragara ari muri siporo yazanye ibyunzwe, siporo mu buzima ni ngombwa gukora siporo ku bantu bose cyane cyane urubyiruko kugirango ngo ruzagire ahazaza heza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'umuntu uri muri siporo, ibi bikoresho ni ibya kizungu kuko ntago bisanzwe ni byiza cyane. Hari umukobwa ufite telefone ku kugutwi akaba ari kuvuga, imbere yiwe hakaba hari imashini kabuhariwe.

Umusore uri muri siporo yambaye agapira k'amoboko magufi akaba afite icupa ry'amazi mu kanwa inyuma ye hakaba hasa neza cyane kuko hasa nk'icyatsi kibisi, uyu musore rero akora siporo umwe muti muganga yamwandikiye kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ni icyumba gikorerwamo siporo hakaba harimo abantu bicaye ndetse harimo n'umuganga wambaye impuzankano y'abaganga, hari imashini iteretse imbere ye ari kugenda abereka ukuntu icyo cyumba gikorerwamo siporo n'uburyo zikorwamo.

Umusore uryamye hasi ku gatanda bari kumugorora, bari kumukoresha siporo gake gake. Hari abantu benshi cyane bigaragara ko izi siporo bazimukoresheje nyuma yo kumanuka akikubita hasi akavunika ingingo zose.

Umukobwa uri muri siporo ari kwigorora, ari kugorora amaboko afite amamenshi, ikirere ni ubururu, siporo ni ubuzima, siporo uyandikirwa na muganga kugira ngo ukomeze kugira ubuzima bwiza kandi burambye.

Agasanduku batwaramo ibikoresho bigiye bitandukanye mu gihe bagiye ahabere siporo, aha ngaha rero abaganga iyo bagiye ku kibuga ahabereye umupira bafa kano gasanduku bagashyiramo ibi bikoresho biri hano: inshinge, ibinya ndetse na bande maze bakaba batanga ubutabazi bw'ibanze.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo siporo, yubakishije amatafari meza cyane ahiye, hakaba harimo ibikoresho byiza cyane bya siporo. turi kubona umusore uryamye ku gatanda uri kwirambura bigaragara ko ari kunanura umugongo ndetse n'amaboko.

Uducupa twinshi cyane tw'imiti duteretse ahantu hasi inyuma hagasa oranje, hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru agaragaza ubwoko bw'iyi miti aho bavuga ngo ugomba guhora wisanzuye kandi buri munsi ukayikoresha.

Umukobwa wicaye hejuru cyane ari muri siporo. Ari mu byuma bimuzengurutsa yicaye bimeze nk'ibipurizo. Siporo ni ubuzima. Niba muganga kwandikiye siporo ugomba kuzikora. Aha, hari n'umupapa wambaye agapfukamunwa uri kureba uko ari kubikora.

Umusore usoje siporo, ari kwikanda ku itako rye, bigaragara ko yababaye. Hafi aho hari icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu. Aho agira ati "Urugendo rwa siporo ni ubuzima, kandi buradusukura".

Agakarito kavamo bande, bande ni kimwe mu bintu nkenerwa igihe umuntu agize impanuka ari muri siporo kuko ifasha igufwa gusubirana, aho umuntu ayizirikaho maze akagera kwa muganga igufwa rikiri rizima.

Umusore uri muri siporo yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara, ari kurambura amavi, amaguru ndetse n'amaboko. Urukuta rurasa umweruru, imbere ye hakaba hari urukuta rwubakisha amatafari ahiye, hasi hakaba hari sima.

Ibiganza bibiri byambaye ga, bigaragara neza cyane ko biri muri siporo, kimwe kirabyimbye, ikindi nta kibazo gifite, aha rero niho umuntu aba agomba gukora siporo, kugira niba urugingo rwe rugize ikibazo ruhite rusubirana vuba kandi byoroshye.

Iyi ni ingobyi bifashisha baterura umuntu bakamugeza kwa muganga. Iyi ngobyi ikunze kuba ahantu hateraniye abantu benshi cyane cyane ahabereye ibikorwa by'imikino ndetse n'imyidagaduro kuko baba biteguye ko isaha n'isaha hari umuntu wakenera ubufasha.

Aka ni agasanduku gashyirwamo imiti yifashishwa mu gihe cya siporo, aha rero harimo imiti igiye itandukanye, hakaba harimo pomade, umukasi, amapamba ndetse na ga, iyo umuntu akomerekeye muri siporo baramufasha kugira ngo agere ku kigo nderabuzima hari icyo bamumariye.

Umukobwa wambaye agasengeri gato akaba yambaye n'ipantaro y'umukara ari muri siporo, ari kureba ahantu hasa nk'aho hari inyanja mbona hasa ubururu, arahagaze ari kurambura amaboko umugongo ndetse n'ikibuno cye gikeneye siporo.

Umusore bigaragara ko yakoze siporo afite amaboko manini cyane yambaye isengeri akaba yambaye n'inkweto za siporo yicaye ahantu mutwatsi twiza ari kwigorora ari kugora amaboko, akagorora amaguru ndetse n'umugongo.

Umusore bigaragara ko ari muri siporo, ari kugenda yikandakanda ku ivi ari kubabara cyane, ahangaha rero iyo ukoze siporo ukababara biba ari byiza ko wigorora wakumva bidakunze ukajya kwa muganga bakagufasha.

Umumama wicaye hasi ari kumwe n'umwana we, uyu mwana ari gukora siporo agenda gake gake kugirango amenyerereza ingingo ze, ni byiza ko umwana tumureka agatembera kugira ngo nawe agorore ingingo maze agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo tu kubona ahantu bakorera siporo hameze neza cyane kandi hari ibikoresho bigiye bitandukanye, hari ibyo guterura, hari ibyo kwirambura ndetse hakaba n'ibyo kwigorora kugira abantu bagire ubuzima bwiza.

Ikirahure giteretse hasi, bari gusukamo amazi, aha rero aya ni amazi anyobwa mu gihe umuntu arangije siporo, nawe nuva muri siporo jya ubanza wigorore gake gake maze ufate ikirahure cy'amazi uyanywe, ni ingirakamaro mu buzima bw'umuntu.

Uducupa dutatu duteretse ahantu hamwe twose ni umweru hakaba hometseho ibyapa bisa ubururu, hakaba hariho utudomo tw'umutuku, amagambo yanditse mu mweru, umuhondo, ndetse n'iroze.

Umu mama ufite ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo afite akantu mu ntoki ari gusuzuma umwana amufashe mu gahanga ariko areba akareba muri iyi kamera akareba niba nta kibazo afite kugira ngo abe yamufash.

Inyubako nziza cyane y'ivuriro harimo umuforomo uri gusuzuma umwana kugira arebe niba akora siporo, aha rero hari umubyeyi umuteruye aho yamutegesheje agahanga kugira ngo bamusuzume neza barebe niba nta kibazo afite.

Ni umuntu uri kwigorora urugingo, nkuko bigaragara ukuboko kwe kwagize ikibazo, ari gushyiraho pomade kugirango akugorore gacye gacye maze kubashe kongera gukore neza nkuko bisanzwe kandi abikore nkuko muganga yabimubwiye.

Ahantu habereye siporo rusange turi kuhabona abantu bagiye batandukanye biganjemo urubyiruko harimo abasore ndetse n'inkumi. Ni ahantu heza cyane hasashe amapave, hakaba hari ibiti byiza cyane, hari amayisikariye azamuka aho ngaho. Siporo ni buzima bayibyukiyemo kugira bakomeze basigasire ubuzima bwabo.

Umusore wambaye isenge y'icyatsi kibisi, akaba afite gurudu ari kunywa amazi, ndetse ari no muri siporo ari kuzikora cyane, kuko ni umusore arakomeye hakurya ye hari amazu menshi cyane, abantu batuyemo ariko atagaragara neza.

Ikirahure kirimo amazi, aya mazi ari kuva mu icupa, iyo ukoze siporo ukazirangiza uba ukeneye amazi yo kunywa kugira ngo umubiri wawe umere neza, aha ngaha rero uba ukeneye amazi meza nk'aya ngaya asukuye kugira ngo agufashe.

Iyi ni imiti igiye itandukanye yifashishwa n'abantu bari muri siporo. Turi kubonamo amakarito menshi cyane, amayetajeri agiye ageretse. Iyo ukoze siporo uba ukeneye gufata umuti maze ukawunywa, kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agakabutura kagufi k'umukara, afite utwuma turiho amapine ari gutambukiramo agenda gake gake, imbere ye hari umuntu na we wambaye agapira k'umukara ndetse n'agakabutura, ari kugenda amuhamagara amubwira ati ''tera indi ntambwe imwe" akaba afite umupira mu ntoki.

Umukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu ari kurambura umugongo amaboko ndetse n'amaguru inyuma ye hasa umweru akaba ari gukora siporo neza cyane ari kubaka ubuzima.

Umusore wavunitse akaboko ari ku kagorora gake gake akora siporo kugira ingingo zisubirane, maze abashe kongera gukora nkuko yakoraga, aha ngaha rero muganga iyo abikwandikiye uba ugomba kubikora kugira ukire vuba nta mananiza.

Umusore uri muri siporo, uyu musore ari kwigorora cyane, ari kugorora amaboko, amaguru ndetse n'umugongo, yazanye ibyunzwe byinshi cyane nk'uko bigaragara abudamino ze zarakomeye kuko akora siporo buri munsi.

Umukobwa uvuye muri siporo, afite isume ku rutugu, yambaye agasengeri, akaba afite icupa ry'amazi ari kuyanywa. Yabize ibyunzwe byinshi, bigaragara ko yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo umubiri we umere neza cyane maze ukomere.

Umusore uri muri siporo ari kugorora amano ndetse n'akaguru, yifashe mu rukenyerero bigaragara n'ukuboko ari kukugorora. Siporo ni ubuzima dukore siporo kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza ndetse natwe tuzagire amasaziro meza.

Uwo mukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri k'ubururu ari kugorora amaboko ye yombi ndetse n'umugongo. Ari kureba hakurya ahantu hari imisozi bigaragara yuko ituweho siporo mu buzima . Abakobwa ndetse n'abasore bagomba kuzikora.

Ingobyi yifashishwa igihe habaye impanuka, bagaterura umuntu bakaba bamujyana mu mbangukiragutabara cyangwa se bakamujyana aho bamuhera ubufasha, aha ngaha rero iyi ngobyi ikunze gukoreshwa, mu gihe hari kuba imikino, cyangwa se hari ahantu hateraniye abantu benshi.

Aha ni aho bakorera siporo hubatse neza cyane kandi harimo ibikoresho byiza cyane byujuje ubuziranenge, ahangaha rero muganga ahakohereza mu gihe abona ko ufite ikibazo cy'urugingo kandi akabona ko wakira.

Umusore uryamye ku gatanda bari kumugorora ukuguru bakongera bakakugorora, afite telefoni mu ntoki. Bigaragara yuko uyu musore yagize ikibazo cy'imvune, muganga akaba ari kumukoresha siporo kugira akire vuba.

Icupa ryiza rirerire kandi ry'umweru ririho akapa k'umukara kariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru aha ngaha rero uyu ni umwe mu muti abantu bakora siporo bifashisha kuko bakandaho maze bakirinda mikorobe.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mugihe cya siporo ndetse n'imbuto ushobora kurya mugihe usoje siporo kugirango ukomeze ugire ubuzima bwiza turahabona metero, tukabona ikirahure kirimo umutobe w'imbuto ndetse tukabona n'imbuto ziri hafi aho nka pome ndetse n'ironji

Umusore uri muri siporo afite gurude mu ntoki, ari kunywa amazi, amazi ni ubuzima ntugakore siporo nta mazi ufite yo kunywa, kuko ushobora kubura umwuka cyangwa se impyiko zawe zikaba zagira ikibazo, tegura siporo yawe maze utegure n'amazi unywa mugihe uri kuyikora.

Aka ni agakoresho bakoresha bari muri siporo aho ugafata ukajya ugakaraga ariko ukaraga n'ukuboko kwawe ariko ko ugenda ukora siporo wivura, siporo ni ubuzima tuzikore tuzikunze kugira ngo zidufashe.

Umukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri k'ubururu ndetse n'agakabutura gato cyane k'ubururu, akaba yambaye inkweto za siporo imbere ye harasa ubururu akaba ari kugorora ukuguru ivi ndetse n'umugongo, izi siporo ni ingirakamaro kuri we.

Iki ni igikoresho gikorerwamo siporo cyane cyane siporo zimwe muganga aba yakwandikiye mu gihe wahuye n'imvuni. Iki gikoresho rero ni cyiza, kuko kikugorora amaguru, amaboko ,ndetse n'umugongo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gihe cya siporo, turi kubona ndetse n'imiti umuntu ashobora kunywa igihe agiriye ikibazo muri siporo, Hari ikaramu ndetse hari n'umukandara. Ibi bikoresho byose rero bikoreshwa igihe umuntu ari muri siporo.

Umukobwa wambaye agasengeri k'umukara akaba yambaye n'agakabutura k'umukara ari kugorora amaboko ye bigaragara ko ari gukora siporo yicaye ku buriri. Siporo wayikorera aho ariho hose kandi igihe icyo ari cyo cyose ufite umwanya.

Umusore uri muri siporo, yateye amakona ari kugendade ku kantu kameze nk'agapine, ari kugorora umugongo, amaboko ndetse n'amaguru, siporo ni ubuzima ari gukora siporo ahantu heza cyane, hari ibikoresho bigaragara ko aha hantu hateye imbere.

Umuntu uryamye hasi imbere ye hari umuforomo ari kugenda amugororera ivi, amugorora gake gake, amukoresha siporo bigaragara ko yari yaravunitse mu ivi akaba ari kumufasha kugira ngo abashe kongera kuba yagenda.

Agasanduku k'imiti, aha rero harimo imiti igiye itandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari muri siporo, cyane cyane iyi miti wayijyana ahantu hari kubera siporo rusange, ahantu hari kubera imikino ndetse n'imyidagaduro, hakaba harimo ikinya ndetse na bande.

Umusore uri muri siporo ari kwimena amazi mu maso bigaragara ko yakoresheje imbaraga nyinshi, n'umusore uhamye ukora siporo buri munsi ikirere kirasa ubururu ndetse harimo n'ibicu by'umweru, aha hantu ni heza cyane.

Ahantu hakorerwa siporo rero nk'uko tubibona harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo utumeze nk'amagare hakabamo utumeze nka moto, aho hari ako ujyaho ukicara maze ukanyonga amaguru yaweakagororoka.

Umusore uri muri siporo hari umuntu uri kumufasha ariko umufungira ga mu kiganza cyiwe, iyo rero ni ngombwa ngo urinde ikiganza cyawe mu gihe ugiye gutangira siporo kuko ikiganza gikora byose ukibuze waba uhombye.

Umukobwa uri muri siporo wambaye agasengeri kagufi cyane, umugongo we wose n'inda biri kugaragara, ari kugorora umugongo amaboko ndetse n'amaguru, imbere ye hari amavaze ateretsemo intebe bigaragara yuko izi siporo ari kuzikorera mu rugo.

Umukobwa uri muri siporo, yambaye agasengeri gapfuca amabere gusa, akaba yambaye n'ikabutura ndende aha ngaha rero yambaye n'inkweto za oranje yambaye ekuteri mu matwi ndetse yambaye, akantu gapima ibirometero yakoze ku maboko, ari kwigorora cyane, imbere ye hari icupa ry'amazi.

Ni ibimera by'amoko atandukanye bigiye biteretse mu mavaze, ndetse hakaba hariho n'amazina yabyo aho agiye yanditse mu ibara ry'umukara, ibi bimera rero bivamo imiti ivura cyane cyane abantu b'abahanga nibo bazi kuyitegura.

ibimera biteye ahantu aho hantu nk'uko bigaragara ni mu rugo kuko biteretse mu mavaze bifite amababi y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi nko hasi harimo ibintu by'umweru ibimera birasarurwa bigatunganywa maze hakavamo umuti uvura.

Icupa rirerire ry'umweru, ndetse rikaba ririmo uturongo ak'icyatsi ndetse n'ak'umuhondo, hari amagambo yanditseho, ayo magambo yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi, aho gateretse hasa umukara uyu muti rero ukoze mu bimera.

Agacupa gato gateretse ku isiniya, iyo siniya iteretseho n'izindi mbuto zigiye zikase, ahangaha rero bari kugaragaza imiti ikomoka ku bimera, aho bafata izi mbuto zose bakazegeranya maze bagakoramo umuti mwiza cyane ukavura abantu.

Ukuboko kumwe gufashe uburoso bw'amenyo ndetse n'ukundi gufite umuti w'amenyo, ari kugenda amusukiraraho, kugira ngo yoze amenyo yiwe akoresheje umuti gakondo, cyangwa se umuti ukomoka ku bimera maze amenyo ye arusheho kumera neza.

Kirekire gifite amashami arereta hariho amababi y'icyatsi kibisi, ibi biti ni ibimera bikorwamo imiti ivura abantu, aho babifata bakabitunganya bikavamo imiti, ikirere cyiza cyane gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ibiti birebire hagiye harimo n'ibindi bigufi amababi ya bino biti bigufi aba ari umuti, aho bayasarura maze bakayatunganya bamara kuyatunganya bakayakoramo umuti uwukeneye akawunywa.

Amoko y'imiti igiye itandukanye ari mu tuntu tugiye dutandukanye, aha rero iyi miti yose ikomoka ku bimera kandi itegurwa n'abantu bafite ubuhanga kugira ngo igire ubuziranenge kandi ivure abantu bayikoresheje.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera. Turi kubona ibishushanyo bigiye bitandukanye ndetse turi kubona ahantu bagaragaje igishushanyo cy'inzoka. Aho bagaragaza y'uko iyi miti harimo ivura inzoka ndetse harimo n'ivura uruhu.

Uducupa tune twose tukaba turimo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo yose hakaba yashushanyijeho ibiyigize indwara ivura ndetse n'igihe izamara. Hose higanjeho igishushanyo cy'igikakarubamba.

Uducupa tw'umuhondo dufite imipfundikizo y'umukara, imbere hari ikirahure nk'uko bigaragara iyi miti ikoze mu bimera, hano hari igishushanyo cy'igikakarumba kiri kuri utu ducupa ndetse n'ikindi kiri hasi gicimbaguye, bikaba bigaragara ko ari umuti ukoze mu gikakarubamba.

Agacupa gato cyane k'imiti. Aka gacupa gapfundikishije umufuniko w'umweru na ko gasa umweru. Inyuma aho gateretse hasa umukara. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuti ukomoka ku bimera kandi uvura ugakiza indwara nyinshi.

Ni umugabo uri mu isoko, iri soko rikaba ricururizwamo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, akaba ategereje abantu kandi akaba afite icyizere kubera ko imiti yiwe ifite ubuziranenge, yambaye n'itaburiya y'abaganga.

Ibimera bitandukanye, biri ahantu bimeze neza cyane, ibi bimera barabitunganya neza, maze bakabikoramo imiti. Aha rero nkuko tubibona, ibi bimera barabibungabunga kugira ngo hatagira ikibyangiza kuko bimeze neza.

Icupa risa umutuku rifite inyuguti zanditse mu mabara y'umweru, aho bigaragaza intego z'uyu muti, uyu rero ni umuti ukorwa mu bimera bakawutunganya neza maze ugafasha abarwayi.

Uducupa tugiye dutangakanye tw'imiti hari amacupa y'amoko yose harimo udusa umuhondo, umweru, twose turiho ibyapa bigaragaza kandi bikanasobanura amoko y'imiti ari muri aya macupa ndetse n'indwara avura.

Amafoto cumi n'abiri y'amoko y'imiti, ibi bimera rero impamvu mbyise imiti ni uko babitunganya neza cyane bakagenda babyegeranya, maze bikavamo imiti igenda ivura, ari yo twita imiti ya kinyarwanda.

Amacupa agiye atandukanye arimo imiti ikomoka ku bimera, harimo imiti y'amenyo hakaba n'indi miti y'amazi, yose icyo ihuriyeho ni uko ishushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, iyi miti iravura irakoreshwa mu buryo bushoboka bwose.

Agacupa gato karimo umuti mwiza cyane ukomoka ku bimera, uyu muti uvura indwara kabuhariwe, indwara karundura zasenye ingo, aho hari icyapa kigaragaza ko iyi ari nziza ku muryango, aho bavuga ngo uvura kurangiza vuba no gucika intege mu gihe uri mu gikorwa.

Amoko y'ibimera, turi kubona ibiti birebire ndetse n'ibigufi, ibi byose rero, aya mababi barayasarura; bamara kuyasarura bakayatunganya maze bakayakuramo umuti, uwo muti bakawucuruza ukavura abantu.

Amoko y'imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera, turi kubona ifite amababi y'icyatsi kibisi. Amababi yose arasarurwa agatunganywa neza, maze akavamo imiti ivura kandi igiye itandukanye.

Uducupa twiza cyane utu ducupa duteretse ku tuntu tugiye dutandukanye, kamwe kari hasi akandi kari hejuru yako ndetse n'akandi kari hejuru yako twose, utu ducupa twose turimo imiti ikomoka ku bimera kandi ivura abantu bagura.

Amoko y'imititi igiye itandukanye, ateretse ku musambi hari umugabo ufite agasekuru ari kugenda asekura bimwe na bimwe agasuka ku gasahani ndetse aho ndi kuhabona ibintu by'ibibabi nkabonamo amatangawizi ndetse n'andi moko y'imiti.

Utubido turimo imiti igiye itandukanye, harimo ak'umuhondo gafite n'umupfundikizo ujya kuba umutuku, hakabamo ak'umweru gafite umupfundikizo ujya kuba ikigina ndetse n'akandi k'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, hose harimo umuti ukomoka ku bimera kuko bagaragaje n'ibimera bivamo uyu muti.

Amacupa y'imiti agiye atandukanye turi kubona akabido aka kabido gasa umuhondo gapfundikije agafuniko k'umutuku aha rero hakaba hashushanyijeho n'ibimera bigiye bitandukanye uyu ni umuti ukomoka ku bimera.

Uducupa tugiye dutandukanye. utu ducupa ni dutoya, ariko twose turimo imiti ikomoka ku bimera. Ndetse hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, agaragaza ko uyu muti ari amazi kandi ko ukoreshwa n'abantu bose.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto. ateretse ku meza. ahangaha rero harimo amaronji, manderiine, indimu, ndetse n'utundi. Aha rero n'ukuvuga ngo ibingibi iyo ubifashe, ubu uri gukingira umubiri wawe.

Iyi ni imiti. Iyi miti rero iri mu icupa ryiza cyane rimeze nk'iry'umuti w'amenyo, aho bari kutwereka n'agasahane kariho ikintu cy'umweru ndetse n'avoka isatuye. Rero iyi miti ikaba ikorwa kugira ngo ivure abantu indwara zigiye zitandukanye.

Amoko y'imiti agiye atandukanye ikomoka ku bimera, afunze mu tuntu tugiye dutandukanye, hari ari mu bikarito, ndetse hari n'ari mu tuntu tumeze nka Colgate, hakaba hashushanyijeho ibyo bimera, kandi iyi miti iravura neza cyane.

Ibi ni ibimera biri mu murima batasarura, harimo ibikakarubamba, ndetse n'ibindi harimo n'igiti kirekire. Ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru, ibikakarubamba bivura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa gato karimo umuti ukomoka ku bimera, aka gacupa rero uyu muti kugira ngo bawukore babikoranye ubuhanga bukabije kuko ni ibimera basaruye barangije barabyegeranya babikora neza umuti ubengerana gutya.

Ikiganza gifashe agacupa mu ntoki, aka gacupa gashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba, aha rero nk'uko bigaragara uyu mugabo afite amavuta akozwe mu gikakaruwamba aho avura indwara y'uruhu.

Ni ibintu byinshi cyane birunze ahantu hamwe bigaragara nk'aho bisekuye, uyu ngu nguyu rero ni umuti ukomoka ku bimera, barabyegeranyije barabisekura, icyo basigaje ni ukubika bikuma maze bikavamo umuti mwiza cyane uvura.

Amacupa menshi cyane arimo imiti ikorwa mu bimera biri kubona abantu baje kureba iyi miti harimo abayigura ndetse hari n'abayisura bakabasobanurira bamara gusobanukirwa ibyiza byayo bakazagaruka kuyigura.

Amoko y'imiti akomoka ku bimera, ahangaha rero turi kubona utubido tw'umuhondo dushushanyijeho igikakarubamba, tukabona udukarito turi hasi turiho fa cumi na gatanu, ahangaha rero iyi ni imiti ivura.

Agacupa gato karimo imiti ikomoka ku bimera, hari amagambo yandikishije ibara ry'umweru, akaba ari akabara k'icyatsi kibisi, agira ati;"Uvura kurangiza vuba, gutera akabariro ndetse no gucika intege n'ingaruka zo kwikinisha."

Isahani iteretseho utuntu tw'uduti tubiri, hari ikiganza turi kubona bigaragara ko kiri gutunganya imiti ikomoka mu bimera, hirya hari indobo irimo ikimera. Aha rero ni aho batunganyiriza imiti ikomoka ku bimera, maze bakayiha abantu ikabavura.

Amoko y'imiti ari mu makarito. Iyi miti ikomoka ku bimera. Aho bayitunganya neza, maze bakayashyira mu makarito. Iyi miti rero nawe uramutse ubaye ufite ikibazo wayigura, maze ikagufasha kuba wamera neza.

Ni akabido kagufi gafite umufuniko, karimo umuti ukomoka ku bimera, iyi miti itunganywa n'abakozi babigize umwuga, aho bafata ibimera bakabitunganya maze bikavamo imiti ivura.

Agacupa gato cyane k'ikirahure karimo imiti ikomoka ku bimera. Gafite umufuniko w'icyatsi kibisi, aho gateretse hasa umweruru hari ho akapa kagaragaza indwara uyu muti uvura ndetse n'uko ukoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Aha hari iduka ririmo imiti igiye itandukanye ikozwe mu bimera. Ahangaha rero barabanza bakakwereka ibimera iyo miti ikozemo. Iyo miti iri mu bicupa binini cyane, ndetse iri mu ma etajeri ageretse inshuro nyinshi.

Umugabo wihangiye imirimo maze yiyemeza kujya ategura imiti ikomoka ku bimera, turi kubonamo amoko menshi cyane agiye atandukanye mu nzu ye. Harimo ibicupa binini birimo imiti, iy'ifu ndetse hari n'ibindi birimo iy'amazi, uyu mugabo azi ubwenge.

Ubwoko bw'ibimera bishimishije cyane biteye ahantu, kirasa icyatsi kibisi ndetse impande zawo hari inkuta z'icyatsi kibisi, ku mpande hagasa umweru, aha ngaha rero ibi bimera iyo babitunganyije babikoramo umuti mwiza cyane ukavura abantu.

Ni ikimera cyiza cyane giteye mu murima, iki kimera gifite amababi bigaragara neza ko ashishe, aya mababi rero niyo avamo umuti barayasarura maze bakayanika bakazayasya akavamo imiti iyo ari yo yose bifuza.

Amoko y'imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa dutoya, hari iri mu macupa manini, hari iri mu bikarito, iyi miti rero yose icyo ihuriyeho n'uko yose ikozwe mu bikakarubamba ndetse hari n'undi w'amenyo ukozwe mu bimera.

Agacupa gato karimo imiti ikomoka ku bimera, imbere yaho hari igishushanyo cy'kakarubamba iyi miti rero barayifata bakayitunganya neza cyane, maze bakayikoramo umuti bifuza bakawushyira mu ducupa cyangwa mu dukarita.

Ni udukarito tw'imiti ikozwe mu bimera hashushanyijeho umuntu umeze nk'ufite isesemi aha ngaha rero bakaba bavuga y'uko iyi miti ibivura ibyo bintu bigakira burundu mu gihe uyikoresheje neza.

Amoko y'imiti ikomoka ku bimera ateretse ku meza ,iyi miti ntago itunganyije ahubwo nibwo bakiyisaru iyo bamaze kuyisarura gutyo rero babisaba kuyitunganya kugira ngo abayinywa bayinywe imeze neza kandi igaragara.

Ni ibimera biri ahantu hamwe, ni byinshi cyane. Imbere turahabona ikimera gifite ibabi rirerire. Ibi byose bivamo imiti iki kiri imbere bakiyita igicuncu kikaba kivura indwara zigiye zitandukanye abantu .

Umuntu uri mu bimera rwagati ari gusoroma amababi kugira ngo ayakoremo umuti maze yivure ndetse avure na bagenzi be. Rero iyi miti gakondo iravura mu buryo bwiza cyane kandi bwizewe.

Ni amoko y'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera rero babiteranyiriza hamwe maze bikabyara umuti umwe, uwo muti bakawifashisha mu kuvura abantu, aho bamwe banawucuruza kugira ngo babone amafaranga.

Aha hari amoko y'imiti igiye itandukanye nk'uko bigaragara hari uducupa, utu ducupa turimo amavuta y'uruhu aya mavuta akomoka ku bimera aho aba yatunganyijwe neza maze wayisiga uruhu rwawe rugahita rumera neza.

Amoko y'imiti akoze mu bimera harimo ibinini ndetse hakabamo iy'amazi n'amafu, ibimera rero urabitunganya neza maze bakabikuramo imiti ku buryo buri muntu bazamuha umuti bitewe n'uwo akunda, haba abakunda ibinini ndetse n'abakundo b'amazi.

ubu ni ubwoko bw'ikimera cyabaye kirekire cyane, maze kizana amashami hariho amababi y'icyatsi kibisi. Aya mababi rero arafasha cyane kuko bayakoramo umuti gakondo uvura abantu uburwayi bugiye butandukanye, mu gihe kwa muganga byananiranye.

Agacupa gato cyane, karimo imiti gakondo. Iyi miti itunganywa mu bimera. Aho bayifata, bakiyitegura neza cyane, maze bakayikoramo umuti uvura indwara iyo ari yo yose. Aka gacupa rero aho gateretse hakaba hasa umukara.

Udukarito tune turimo imiti ikomoka ku bimera, duteretse ahantu ku meza, inyuma harasa ubururu, kuri tuno dukarito hari amagambo yanditseho, hari ayanditse mu ibara ry'umutuku, ayanditse mu ibara rijya gusa ubururu ndetse hari n'ayanditse mu rijya gusa nka oranje.

Uducupa tw'imiti igiye itandukanye, iyi miti ikaba ikomoka ku bimera iyi miti rero barayitunganya neza bakayitegura, maze bakayizana kuyigurisha. Iyi miti uducupa bashyizeho ibiyigize ndetse n'uko ikoreshwa.

Icupa ry'umuti, uyu muti ukoze mu bimera gakondo; ibi rero barabyegeranya bakabikora neza cyane, bagakuramo umuti ushobora kurinda malariya cyangwa se ukayivura.

Ubwoko bw'ikimera buvamo imiti, iki kimera cyitwa tangawizi, bagikase batwereka mo imbere uko haba hameze, iki kimera rero kivamo umuti w'indwara zigiye zitandukanye, aho iyo mu muhogo hari kurya ushobora kuyihekenya maze ugakira.

Agacupa gato cyane, aka gacupa kari mu ibara ry'umweru, hariho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku ndetse n'iry'ubururu, hakaba n'akandi karongo hasi kari mu ibara ry'ubururu, inyuma hasa umukara. Aha rero harimo umuti ukomoka ku bimera kandi uvura.

Aha hari amokoko agiye atandukanye y'imiti ikomoka ku bimera, hari umuntu uyicuruje iri mu tu etajeri ndetse nk'uko bigaragara iyi miti yahawe ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu kibishinzwe.

Ibimera bigiye bitandukanye biri mu mafoto agera muri atandatu ndetse hariho n'akambi kagaragaza buri kimera icyo gishinzwe ndetse n'icyo cyongera mu buzima ibi bimera rero byose babikoramo imiti kandi ikavura abantu.

Aba ni abantu bari gutambuka bagana ahantu hari ibimera byiza cyane ndetse hari umugezi usuma, bakaba bagiye kubisarura kugira ngo bazabikoremo imiti myiza cyane, ya gakondo maze bavura abantu bafite indwara zigiye zitandukanye zabuze imiti.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye iyi miti ikorwa mu bimera, ikaba ifunze mu macupa agiye atandukanye ariko yose akaba ariho ibyapa bigaragaza amazina y'iyi miti, icyo akoreshwa ndetse n'uko akoreshwa.

Agacupa k'umukara karimo imiti ikomoka ku bimera, hariho icyapa cyometseho kigaragaza ibigize iyi miti, ndetse nicyo ivura bakagaragaza yuko ari ibimera byongewemo ubuki bw'inzuki, aho ho abantu bashobora kuyinywa ikabavura.

Utubido turimo imiti igiye itandukanye ikomoka ku bimera si utubido gusa kuko hari n'udukarito, iyi miti rero nk'uko nabivuze ikomoka ku bimera itunganywa neza maze igashyirwa muri utu tuntu ikagurishwa kandi ibifite n'icyemezo cy'ubuziranenge.

Ibimera bigiye bitandukanye bivamo imiti, ibi bimera barabifata bakabitunganya bakabikura mu mirima aha bihinze turi kubibona maze bakabitunganya neza bikavamo imiti, iyi miti ivura abantu kandi neza.

Agacupa gato cyane k'umuti karasa umweru, gafite umupfundikizo w'ubururu, hataba hariho agakoko gashushanyije mu ibara ry'ubururu, hakaba hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, uyu muti rero ukaba ukomoka ku bimera kandi uvura.

Agacupa gato cyane gasa umweru hakaba hariho icyapa, icyo cyapa kikaba kigaragaza izina ry'uyu muti, ndetse n'ibyo ukozemo, uyu ni umuti ukoze mu bimera aho bashyiramo ubuki bukeya maze uyu muti wawisiga ku ruhu rukererana.

Icupa ry'umweru ririho amagambo yandikishije umukara, hashushanyijeho agakoko. Rikaba ripfundikije umufuniko w'ubururu, inyuma hakaba hasa umukara. Aha rero, harimo umuti w'amenyo ukomoka ku bimera, aho wica udukoko twose tuba twasigaye mu menyo, amenyo yawe akaba meza cyane.

Ishashi y'umuhondo. Irimo ibintu by'ibyatsi ndetse hakaba hariho n'akapa kagaragaza ko harimo garama ijana. Uyu rero ni umuti ukomoka ku bimera. Barabisaruye barabitunganya maze babishyira muri iyi shashi, babiha ubuziranenge. Ubu ngubu Leta yarabyemeye ishyiraho n'icyemezo cy'ubuziranenge.

Amoko agiye atandukanye y'ibyatsi bikorwamo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ahangaha rero bari kugaragaza uburyo bisarurwa bamara kubisarura bakabitunganya neza bikavamo umuti uvura abantu kandi neza.

Ubu ni ubwoko bw'ikimera iki kimera rero kiri mu murima, kino kimera baragisarura, bakacyanika, bakagitunganya neza, bakagikoramo umuti uwo ariwo wose bifuza, haba umuti ukoze mu mazi, ibinini ndetse n'uw'ifu.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye ari mu ruhumbikiro, hakaba harimo afite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi, nk'uko bigaragara rero bino bimera bivamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye zananiranyeye mu mavuriro yose.

Amacupa arimo imiti ikorwa mu bimera. Aya macupa rero harimo arimo umuti usa n'icyatsi kibisi, harimo icupa ririmo umuti w'ifu ndetse hari n'irindi cupa ririmo umuti w'umukara. Iyi miti yose iravura.

Amoko ane y'imiti ikomoka ku bimera iri mu ducupa tune tugiye dutandukanye. Iyi rero ikaba ari imiti ikomoka ku bimera aho baba barayitunganyije, bakayitegura neza ku buryo yavura abantu. Icyo yose ihuriyeho ni uko hagiye hashushanyijeho igikakaruwamba.

Ni amoko y'imiti akomoka ku bimera agiye atandukanye nk'uko bigaragara hari ameze nk'utubido, hakaba hari n'utumeze nk'utuntu twa korogati hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ariko yandikishije umweru yanditse ati tangira urugendo rwawe ubijyana.

Amoko y'imiti agiye atandukanye akomoka ku bimera ari kugakeka ahantu hanze ateretse mu tuntu tugiye dutandukanye tumeze nk'utweso. Aha rero nk'uko bigaragara iyi ni imiti gakondo kandi itunganyije.

Amacupa ameze nk'avamo korogati ni amacupa agera muri atandatu cyangwa arindwi, hakaba hariho amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba hashushanyijeho n'agakoko, ibi rero ni imiti, iyi miti ikomoka ku bimera kandi ikaba yakoza amenyo akamera neza cyane.

Amoko y'imiti ajyiye atandukanye, hari ari mu makarito ndetse hari n'andi ari mu kintu kimeze nka corogate. Iyi miti rero iravura. Iyi miti irifashishwa cyane kandi ikunze gucururizwa muri companyi yitwa Alliance ikorera mu Mujyi wa Kigali.

Uducupa dutatu duteretse ahantu hamwe, utu ducupa tukaba turimo imiti ikomoka ku bimera iyi miti rero basarura ibimera mu murima bakabitunganya neza cyane maze bagakuramo umuti bitewe nuwo bifuza, kurutu ducupa hariho ibyapa bigaragaza ubwoko bw'uwo muti.

Umuganga wambaye impuzankano, afite imiti iri mu dukarito ndetse n'iteretse hasi ari kugenda ashyiramo, iyi miti yose ikomoka ku bimera, uyu akaba ari umuganga uyitegura, akayifata, akayipakira maze akayigurisha yujuje ubuziranenge.

Aya ni amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi miti rero iri mu ducupa twabugenewe, hagiye hashushanyijeho ibikakaruwamba, ndetse hari n'indi iri mu dukarido iyi miti yose ikomoka ku bimera kandi irifashishwa mu kuvura abantu.

Agacupa gato cyane k'umweru. Gafite umupfundikizo w'umweru. Gashushanyijeho agasimba ndetse hari n'amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, aho bari kuvuga ngo:" Icyerekezo ni ukuramba ubuziraherezo."

Ubu ni ubwoko bw'ikimera gisa cyatsi kibisi kikaba kiri mu murima. Iki kimera rero kirategurwa neza gake gake maze kikavamo umuti uvura indwara zananiye abaganga ndetse n'abadogiteri.

Ahantu heza cyane hasa icyatsi kibisi, turi kuhabona ibimera bimeze neza, hakaba hari ibintu bimeze nk'ingiga z'ibiti ziteretseho utuntu, tw'udukarito aha rero bakaba bagaragaje icyayi cyiza cyane kandi kivura.

Ubwoko bw'ibimera ibi bimera bikaba bivamo umuti kandi uvura bagishushanyije neza cyane mu ibara ry'icyatsi kibisi turi kukibona kiragaragara aho cyitwa igikakarumba kandi kikaba kivamo umuti uvura.

Inkoko iteretseho agaseke, agasekuru karimo umuhini imbere hateretse agacupa karimo utuntu tujya gusa oranje, hasi hateretse ibyatsi byinshi cyane, ibi rero nibyo bari gusekura kugira ngo bakoremo umuti maze uyu muti uvura abantu barwaye uburwayi bugiye butandukanye.

Akabido k'umuhondo gafite agapfundikizo k'umutuku, gateretse ku meza ndetse hari n'ikirahuri cy'umweru, inyuma hasa ubururu ku meza ho hateretse ikimera gisa icyatsi ariko mo imbere hakaba hasa umweru nta gushidikanya iki ni igikakarubamba.

Ibirahure bibiri biteretse hasi harimo umuti. Uyu muti ukaba ukomoka ku bimera, ni ibimera batogosheje kuko harimo n'amababi yabyo ndetse hasi hakaba hari n'amababi akiri mabisi agaragaza ubwoko bw'icyo kimera.

Ubwoko bw'ibimera buri mu murima kandi bwinshi. Ibimera rero barabisarura bakabitunganya bikavamo imiti ivura abantu ya gakondo. Iyi miti irategurwa neza maze muganga yakwandikira umuti wa gakondo ukajya kuwufatayo.

Ikarito irimo imiti ikomoka ku bimera, ibimera rero byaratunganyijwe bamaze kubitunganya babikoramo umuti mwiza cyane uvura uburwayi bukomeye maze bashyira mu ikarito kugira ngo buri wese awugure kandi yishimye.

Udukarito dutatu tw'imiti duteretse ahantu hamwe, iyi miti ikorwa mu bimera aho abasoroma ibimera bakabitunganya neza cyane bakabikoramo umuti uw'ifu, ibinini cyangwa se uw'amazi bitewe n'uwo bifuza kandi ukavura neza.

Ikimera cyiza cyane iki kimera gifite amababi maremare kikaba giteretse mu mavazi ibi rero amababi yabyo barayaromo bakayatunganya neza maze hakavamo umuti uvura, iyi miti abantu bakunze kuyigura ku bwinshi.

Ubwoko bw'ikimera tuzi nk'igicuncu cyangwa se umuravumba, turi kukibona ni cyiza cyane cyabonye imvura kirakura kimeze neza, iki cyatsi rero baragica bakacyanika maze kikazavamo umuti uvura abantu.

Ubwoko bw'imiti ikomoka ku bimera; aha turi kuhabona amacupa arimo iyo miti. Aha ngaha rero buri cupa hariho akapa kagaragaza ubwoko bw'uwo muti ndetse n'uko ukoreshwa. Ndetse hari n'indi iriho igishushanyo cy'igikakaruwamba.

Uducupa tubiri tw'imiti, kamwe gasa umweru, kakaba karimo utubara duto tw'umuhondo akandi gasa umuhondo, hakaba hashushanyijeho ikimera cy'icyatsi kibisi bigaragara ko harimo umuti ukomoka ku bimera, iyi miti ni ingirakamaro kandi irafasha.

Agacupa gato k'umweru karapfundikiye kariho icyapa, icyo cyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse hari n'akanditse mu ibara ry'ubururu rizengururutse agacupa, hari amoko menshi cyane y'imbuto zikase ziri ku isahani, rero nk'uko bigaragara aka gacupa karimo umuti uva muri ibi bimera bakatiye kuri iyi sahani.

Ni ubwoko bwikimera gifite amababi yicyatsi kibisi, hakaba hariho uturarabyo tw'umuhondo ndetse na oranje, aha rero iki kimera aya mababi yacyo atunganywamo umuti umeze neza cyane uvura indwara zirenga eshanu.

Ubwoko bw'ibimera biri ahantu hamwe ,ibi bimera rero bikaba bikorwamo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo, ikavura abantu mu buryo bwihuse, ku buryo n'abaganga baba batabitekereza nabo ubwabo barabyumva bikabatungura.

Ubwoko bwi'ibimera bigiye bitandukanye biri mu murima, ndikubona amababi y'icyatsi kibisi ibiti birebire, aya mababi niyo ategurwamo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se imiti gakondo maze abantu badashaka kujya kwivuza kwa muganga bakaza bakayigura.